Iyo umurwayi arwaye cyane akaremba cyane cyane yagiye muri koma usanga rimwe na rimwe aba adafite n'umwuka uhagije wo kuba yahumeka. Niyo mpamvu abaganga baba bafite ibikoresho bamwambika mu mazuru bituma ahumeka umwuka kugira ngo agaruke mu buzima.

Umubare munini w'abantu biganjemo abagore ababyeyi ndetse n'abakobwa, bishimira ubuzima basigaye babamo nyuma yo kumenya agaciro ko kurya indyo bihagije.

Umwana iyo avutse hamaze nk'amezi atatu, bamusubiza kwa muganga kugira ngo bamusuzume ndetse banamukingire indwara zitandukanye, zere kuzamwataka bamwongerera ubudahangarwa bw'umubiri.

Mu bice by'ibyaro hakunze kuba ikibazo cy'ibura ry'amazi aho usanga abantu benshi bibumbiye ku mugezi umwe w'ivomo rusange hari amajerekani menshi, ibyo ngibyo rero bikaba imbogamizi ku muntu ukeneye kuvoma agahita agenda Kuko bimusaba gutegereza igihe kirekire kugira ngo avome, gusa gahunda yo gusakaza amazi mu Rwanda yabashije gukemura icyo kibazo, aho yagiye ashyiraho amavomo rusange mu masantere atandukanye yo mu byaro.

Gahunda yo gukwirakwiza amazi asukuye mu bice by'ibyaro yageze hose, aho abatuye akarere ka Huye bose babonye amazi, ayo mazi meza abafasha gukora imirimo yabo ya buri munsi.

Umusaza bigaragara yuko ashaje cyane uri kuvurwa n'umuganga wabihuguriwe akanabyigira ndetse ubizobereyemo cyane, bigaragara ko uwo musaza yafashwe n'indwara igaragara cyane akaba ari kuvurwa.

Kandagira ukarabe ni igikoresho gikoreshwa n'abantu, iyo bari gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Igikoresho kandi gifasha abantu kwimakaza ndetse no kubungabunga isuku, yaba aho batuye ndetse no ku mubiri wabo.

Abanyeshuri biganjemo ab'urubyiruko rw'abasore n'inkumi baba barangije amashuri mu bigendanye n'ubuvuzi, usanga baba babyishimiye cyane, aho baba bambaye ibirango mu ijosi bigaragaza umurimo baba bamazemo iminsi bakora w'amahugurwa ndetse bamwe muri bo bambaye n'amataburiya bigaragara yuko bagiye kugirira igihugu akamaro.

Ikigo cy'amashuri bigaragara yuko kitagira amazi ahagije, aho abanyeshuri ndetse n'impuzankano zabo baba bambaye, bajya gushakisha amazi yo kunywa ku mugezi ubona yuko utanga amazi adahagije ku bayakeneye, bagahurizaho intoki ari benshi cyane kuko baba bayakeneye.

Umubare munini w'abanyeshuri bahuriye hamwe bari kuvoma amazi meza cyane yo kunywa, ayo mazi akaba ari muri kandagira ukarabe ikoze mu buryo bw'indobo iteretse ku meza kandi buri mwana wese akaba afite igikombe cye kugira ngo batanduzanya indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda.

Umushyikirano ni inama iteraniramo abayobozi batandukanye cyane iyo barikwiga ku bigendanye n'ukuntu umuntu yakoresha umutungo we neza, cyangwa se akoresha umutungo kamere.

Amavomero aba afite amazi meza akwirakwizwa ahantu hose, ubwo usanga ababyeyi biganjemo ab'abagore baba bafite amadomoro bagiye kuvomayo abandi bagira icyaka bakayanywa kuko aba asukuye.

Gukaraba intoki n'amazi meza birinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda, harimo nka korera, tifoyide ndetse n'impiswi, izo ndwara ziterwa n'umwanda, kuba umuntu yarya ikintu adakarabye.

Abantu ni ngombwa yuko bita ku buzima bw’umubyeyi utwite, kugira ngo umubyeyi, nabyara umwana, azakure mu gihagararo, mu mibanire, ndetse no mu mitekerereze.

Umuryango ushinzwe kurengera uburenganzira bw'umwana ndetse n'imyigire ye ku Isi, ni umuryango utanga imfashanyo zitandukanye kugira ngo abana bose uburenganzira bwabo bwubahirizwe, harimo n'uburenganzira bwo kwiga.

ababyeyi baba bafite abana bari munsi y'imyaka itatu, usanga rimwe na rimwe bahurira ku ivuriro ndetse no ku bigo nderabuzima kugira ngo bigishwe uburyo batunganya indyo nziza y'abana ndetse n'uburyo bareramo abo bana, bagakura neza mu gihagararo, mu bwenge ndetse no mu mibanire.

Ikigo nderabuzima cya Mayange gikunda kugira abashyitsi benshi biganjemo abazungu, iyo abo bashyitsi baje usanga baba batumiye abajyanama b'ubuzima, kugira ngo baze kuhafatira impanuro zitandukanye z'ukuntu bajya bavura abantu, ugasanga bishimye bari no kubyina.

Iyo ugiye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda mu bice by'icyaro usanga amazi ari makeya cyane, aho usanga haba hari ibitembo bizana amazi yirirwa yimena kuva mu gitondo kugeza na nimugoroba. Ahanini usanga ayo mazi aturuka mu isoko adasukuye neza cyane aho aba amena muri ruhurura zitandukanye.

Iyo umubyeyi amaze kubyara ntabwo biba birangiriye aho ahubwo akomeza gukurikiza gahunda zirebanye no ku ivuriro, ubwo abajyanama b'ubuzima baza gusuzuma umwana we mu rugo basanga afite ikibazo bakamwohereza ku kigo nderabuzima kimwegereye bakamuvura.

Muri iki gihe kubera ikoranabuhanga ryateye imbere usanga iyo abantu bari mu nama biga ku bintu bitandukanye, bamwe baba bafite za mudasobwa zabo, abandi bafite amatelefone bari kujya barebaho ibyo bapanze kuganiraho.

Icyorezo gikingirwa iyo bafashe urukingo, bakarushyira mu rushinge, barangiza bakarutera umuntu bashaka gukingira ku kuboko. Icyo gihe baba bamwongereye ubudahangarwa bw'umubiri bwo kwirinda icyorezo kiba cyateye.

Umuryango ushinzwe abana ku isi, unisefu ukunda gufasha abana kubona amafunguro meza cyane, ndetse no kubona uburezi bw'ibanze ku bana bakiri batoya.

Kubera yuko mu byaro hatari hagera amazi ngo usange buri rugo rufite amazi iwabo. Hari amavomo yubatswe aho abantu bo bakeneye kujya kumesa imyenda myinshi bajya, bibasaba gupomba amazi ubwo bagenda bazamu.

Leta y'u Rwanda yagerageje kubaka ibikorwa remezo hirya no hino mu gihugu, aho ifata amatafari ahiye ikubaka inzu zikoreshwa n'abaturage kugira ngo bakomeze babeho neza.

Umwana wambaye ishati y'icyatsi uri gukaraba amazi ku ivuomero rusange, uyu mwana ari gukaraba amazi meza cyane aturuka muri irivomero rusange, aho adakoreshwa gusa no gukaraba intoki ahubwo abantu......

Umwana wajyanywe kwa muganga kugira ngo asuzumwe indwara zitandukanye, umumama afata umwana amujyana kwa muganga aravurwa avurwa neza n'abaganga babiri b'inzobere mu buvuzi butandukanye.

Mu rwego rwo kwimakaza isuku abaturage, abana, urubyiruko ndetse n'abagore, bashishikarizwa gukoresha amazi asukuye, niyo mpamvu Leta y'u Rwanda, usanga yarakwirakwije amavomo rusange afite amazi asukuye, kugira ngo abaza kuyavoma bajye bakoresha amazi asukuye, mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Ibura ry'amazi mu byaro bitandukanye bigize igihugu cy'u Rwanda, bikomeza kuba imbogamizi cyane, niyo mpamvu Leta y'u Rwanda yagerageje kubaka amavomero rusange hirya no hino mu gihugu afite amazi asukuye, ugasanga ababyeyi ndetse n'abana bajya kuvomaho amazi.

Iyo umukobwa agiye kwivuza indwara y'umuvuduko w'amaraso, usanga abaganga baba bafite ibikoresho byabugenewe, aho bamwambika ikintu ku kaboko barangiza bakumva uko amaraso ari gutembera ku mubiri, barangiza bakamenya nimba afite umuvuduko w'amaraso.

Mu bice byinshi by'ibyaro usanga nta mazi baba bafite mu ngo zabo, leta yakoze igikorwa cyo kubaka imigezi rusange cyangwase amavomo rusange mu bice by'ibyaro, abaturage bafata amabuni ndetse n'amajerekani bakajya kuvoma ayo mazi asukuye kuri ayo mavomo rusange aba yarahubatswe.

Ku bigo by'amashuri usanga haba hari ikigega kijyamo amazi asukuye, kugira ngo abanyeshuri nibayakenera bajye kuyanywa, kandi buri munyeshuri aba afite igikombe cye anywesha amazi, kuko ntabwo ari byiza gusangirira ku gikombe kimwe, bishobora gukwirakwiza indwara ziterwa n'umwanda.

Ikigo cy'igihugu mu rwanda gishinzwe gukwirakwiza amazi wasake, usanga kimaze kugera ku rundi rwego cyane, kuko kimaze gukwirakwiza ahasaga mirongo irindwi ku ijana by'amazi mu bice by'ibyaro ndetse no mu bice by'umujyi.

Kure y'imijyi usanga kugira ngo amazi ahagere ari ikibazo, ni yo mpamvu rero baba barafashe ibitembo bakabicomeka ahantu ku isoko y'amazi, barangiza bakajya bahavoma, amazi akajya yimena kuva mu gitondo kugeza na nimugoroba.

Abana biga mu mashuri abanza baba bambaye impuzankano y'ishuri ifite ibara rya kaki. Bakunda gukaraba ku rukarabiro, dore yuko mbere yo kwinjira mu ishuri, mbere yo kurya, na nyuma yo kuva ku bwiherero, bahanyura bakamanza bagakaraba intoki, kuko bazi ingaruka ziva mu kudakaraba intoki n'amazi meza n'isabune.

Abana bakunda guhora bari mu mazi ahantu ku ivomo, bakaraba intoki. Ni byiza yuko rero abana bakaraba intoki, mbere yo kujya kurya, cyangwa se nyuma yaho, na nyuma yo kuva ku bwiherero.

Gahunda yo gukwirakwiza amazi hirya no hino mu byaro yageze ahantu hatandukanye, aho usanga mu cyaro haba hari ivomero rusange. Abana bafungura iryo vomero rusange iyo bagiye kuvoma amazi yo gukoresha ndetse n'ayo kunywa.

Umubare w'abantu benshi biganjemo ab'urubyiruko, bicaye hamwe, bitabiriye inama ivuga ku bintu bitandukanye byatuma bagera ku iterambere rirambye, bandwa gukwirakwiza isuku hose mu gihugu.

Iyo umwana ahohotewe bamukorera imitwaro adashoboye bimuviramo ingaruka nyinshi cyane nko kudakura neza, kutagira imibereho myiza, ari byo usanga bituma adindira mu ishuri kubera yuko aba yarikoreye ibintu.

Abantu benshi bitabiriye inama bigaragara yuko iyo nama yabereye i Kigali ku itariki makumyabiri z'ukwacumi umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, igendeye ku ntego yo guhagarika icyorezo cya mabage mu Rwanda ndetse no muri Afurika.

Imodoka nini cyane ya rukururana itwaye ibikoresho bitandukanye, ibyinshi byibandwaho hari imiti, iyi modoka ikaba ifite inyuma ibirango bitandukanye nk'ikirango cyanditseho WFP.

Abasaza bakunda kurwara indwara zo mu kanwa nk'amenyo ndetse n'izo kugera mu kanwa hanuka, ariko iyo bagiye kwivuza babaha imiti itandukanye bavura amenyo ndetse n'izo ndwara zo mu kanwa.

Umubare munini w'abaturage bose usanga bateranira ku kagari, bagiye mu nama runaka yiga ku bijyanye n'isuku ndetse n'imibereho myiza y'abaturage. Usanga baba biganjemo abagabo ndetse n'urubyiruko bateraniye mu kagari.

Mu karere ka Huye abana batuye yo bagejejweho amazi meza aho buri santere iba ifite amazi. Abana rero bakunda kuyakaraba cyane.

Abaturage bicaye baganira ku bigendanye n'ubuzima bwiza bigaragara yuko abo baturage bari kuganira icyo bakora kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza kand inzego z'umutekano zikaba zihari, hakaba harimo n'umudaso uri kubabwira uburyo umutekano ucungwa.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda, buri gihe gishishikariza urubyiruko ndetse rwiganjemo abakobwa kwirinda ndetse no kwisuzumisha Kanseri y'Inkondo y'umura.

Abana bagomba kunywa amazi meza asukuye, amazi aturutse ku ivomo rusange iryo vomo rikaba rifite amazi y'urubogobogo meza atarimo ibiziba.

Mu rwego rwo kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza, iyo akomeretse mu kaboko ahita ajya kwisuzumisha kwa muganga; bakareba yuko nta mvune ikomeye afite, yaba ayifite bakayimuvura.

Abana biga mu mashuri abanza, batozwa gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa n'umwanda, kandi iyo bavuye ku bwiherero na bwo bakaraba amazi meza n'isabune mu ntoki.

Hirya no hino mu bice by'ibyaro, ni ukuvuga kure y'umujyi, usanga bakivomera ku migezi, aho umuntu umwe agenda apompa amazi nayo akagenda aza kubera y'uko batari bagezwaho amazi mu ngo zabo.

Ni byiza yuko abana bakoresha amazi asukuye, aturutse ku ivomero rusange kandi rifite isuku ihagije, atari nka ya mazi yo mu biziba ndetse no mu bidendezi.

Mu rwego rwo kugira ngo abanyarwanda bose bagire imibereho myiza binyuze muri gahunda yo kubaka uturima tw'igikoni, Leta y'u Rwanda iyo habaye umuganda usanga ituma abantu bamwe na bamwe bajya kubakira uturima tw'igikoni abantu batandukanye, biganjemo abakecuru, ndetse n'abandi bo mu miryango ikennye.

Ni byiza yuko abana banywa amazi asukuye neza, kandi bakayanywera mu bikombe bisukuye kugira ngo batandura indwara ziterwa no kunywa amazi adasukuye.

Mbere yuko abana bajya gufata amafunguro, babanza gukaraba intoki kugira ngo bagire ubuzima bwiza, iyo bavuye no ku bwiherero bakaraba intoki mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Umuryango wita ku bana wagerageje gukwirakwiza amazi hirya no hino kugira ngo abantu bayavoma bajye bavoma amazi asukuye, bakoresha rero indobo ziganjemo iyo ubururu ndetse n'iyo umutuku, bari kuvoma ayo mazi ku bigega bubakiwe n'ikigo gishinzwe abana.

Iyo umuntu bashaka kumukingira icyorezo runaka, bazana urushinge bakarushyira muri serenge, barangiza bakavoma umuti, bakawumutera ku kaboko kugira ngo agire ubudahangarwa bw'umubiri bwo kwirinda icyo cyorezo kiba cyaje.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye, baza kuvoma ku ivomo rusange rifite amazi meza kandi amazi asukuye, ni byiza ko abantu bakoresha amazi asukuye, baturujkie ku mavomo rusange aho ariho hose mu gihugu.

Abajyanama b'ubuzima usanga bafite amahugurwa hirya no hino ku mavuriro no ku bigo nderabuzima bitandukanye, aho bagenda bakajya kwigishwa no guhugurwa ibigendanye n'uburyo bavuramo abarwayi.

Umubare munini w'abantu batandukanye, usanga uhurira ku Kagari kugira ngo abo bantu bari ku Kagari bagire ibyo bigaho, byerekeranye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi.

Hirya no hino mu midugudu hari abajyanama b'ubuzima bahabwa amahugurwa y'ukuntu bavura, ndetse bagasuzuma kandi bagapima n'umugore utwite, bahawe rero amataburiya afite ibara ry'ubururu kugira ngo bijye bigaragara yuko bakora ako kazi.

Abahanga mu bijyanye n'ubuzima buri gihe bakunda gukora inama aho bahuriza hamwe ibitekerezo by'ibyo baba batekereza ku buzima bw'abenegihugu barangiza bagafata imyanzuro bakayoherereza ababakuriye.

Mu rwego rwo gufasha abatishoboye ngo babeho neza, Leta igerageza kubaha inkunga zitandukanye, ubwo ifata ibiro byinshi by'umuceri, yarangiza igaha abo batishoboye kugira ngo barye babeho neza.

Iyo hadutse icyorezo, usanga abaganga bari gukingira abantu kugira ngo icyo cyorezo kitabataka. Nk'urugero, twavuga mu bihumbi bibiri na makumyabiri mu Rwanda hagera Korona virusi, abaganga wasangaga buri gihe bari gusuzuma, bari no gukingira abanyarwanda, kugira ngo batandura icyo cyorezo cya Korona virusi.

Abajyanama b'ubuzima bafasha ababyeyi kubereka amashusho ariho abana n'uburebure bwabo biturutse mu kuba bariye indyo nziza, bakagira ubuzima bwiza.

I Nyagatare ku ivuriro rya gira ubuzima hariyo abakozi batandukanye, hariyo abapapa ndetse n'abamama hariyo kandi n'abasore, usanga bakunda kuba biyambariye amataburiya abandi bambaye amajiri y'ubururu.

Mu rwego rwo kugira ngo abantu babone amazi meza, leta y'u Rwanda yagerageje kwirakwiza amavomero rusange hirya no hino mu bice by'ibyaro, kugira ngo abana ndetse n'abakuru bajye babona amazi biboroheye.

Inyubako zijyanye n'igihe tugezemo usanga zarateye imbere cyane. Cyane ko usanga zubatse mu buryo bukomeye cyane, aho ziba zikikijwe ku mpande na za kizimyamwoto zishobora gukoreshwa igihe inkongi y'umuriro iramutse ibaye.

Ku mubare munini w'ababyeyi b'aba mama bahuriye hamwe bose bafite abana baje kuvuza abandi bari kubasimbiza mu kirere byumvikana yuko bagiye gusuzumisha abana babo ku bitaro indwara zitandukanye.

Abajyanama b'ubuzima ni abaturage bahuguwe kugira ngo bahagararire ibyerekeranye n'ubuzima mu midugudu. Ibi ngibi byakozwe ku bufatanye n'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Ubuzima mu Rwanda RBC.

Umubyeyi w'umumama wajyanye umwana we kwa muganga, amujyanye kumusuzumisha, kugira ngo barebe uko ubuzima bwe buhagaze. Ni inshingano z'abaganga rero kwita ku bana.

Iyo ugereranyije umubare w'abakire, usanga bari gukira ku muvuduko munini n'uw'abakene bagakomeza gukenena ku kigero kinini. Iri gereranywa ryagereranyijwe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe kugeza mu w'ibihumbi bibiri na makumyabiri, aho usanga abakire barabaye benshi cyane n'abakene bakarushaho gukena.

Abantu bicaye ku meza bigaragara yuko abo bantu bari kuganira ibintu bitandukanye kandi bifitiye rubanda akamaro.

Mu nzu mberabyombi usanga hakunda kuberamo inama zitandukanye, abayobozi iyo bafite ibyo bashaka kubwira abaturage babateguza inama ugasanga iyo nama iri kubera mu nzu mberabyombi.

Abajyanama b'ubuzima bagenda bazenguruka hirya no hino mu ngo z'abaturage bafite abana, bababaza uburyo abana babo bamerewe, ndetse n'ubuzima babayemo. Bakumva hari indwara bafite bakabavura, yabananira bakabohereza ku mavuriro rusange.

Hirya no hino mu bice by'ibyaro by'Akarere ka Huye, usanga ikibazo cy'amazi gikomeje kuba ingorabahizi, niho usanga hakiri imigezi gakondo aho umwana umwe aba ari gupompa amazi azamuka mu gitembo bagenzi be bavoma.

Uburinganire n'ubwuzuzanye buri kujya bugenda buzamuka umunsi ku munsi mu Rwanda ndetse no mu turere turi hafi yarwo, nk'urugero bibiri na cumi n'umunani byari mirongo itanu na gatanu ku ijana ariko bibiri na makumyabiri na rimwe byageze kuri mirongo irindwi n'icyenda ku ijana.

Abanyeshuri bo mu karere ka Huye bamaze gutora umuco mwiza, aho buri gihe bakaraba intoki iyo bavuye mu bwiherero cyangwa se iyo bagiye gufata amafunguro ku ishuri ya saa sita, ni umuco yuko bahita bakaraba intoki. Ibyo bibafasha kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Abantu benshi usanga bakunda guhura n'indwara y'ibikomere, ibyo bikomere bakaba babitewe rimwe na rimwe nk'uko baba bari gutema inkwi ndetse n'ibiti, barangiza bakitema, abandi ugasanga batsikiye bikikubita hasi bakagira ibikomere ariko ibyo byose iyo bagiye ku mavuriro bahita babibavura bagakira.

Kugira ngo abana babeho neza, hagomba gukwirakwizwa gahunda zitandukanye. Niyo mpamvu Leta yakwirakwije amavomero afite amazi meza, kandi amazi asukuye, kugira ngo abana bakeneye kuyanywa bajye bajya kunywaho amazi bitabagoye, kandi birinde indwara ziterwa no kunywa amazi yanduye.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bajya kwaka serivisi za Leta ahantu hatandukanye, nko ku tugari, ku mirenge ndetse no ku turere, rukomeza kugenda ruba rwinshi.

Iyo umugore yabyaye indahekana adafite n'ubushobozi bwo kurera abo bana, usanga aba ahetse umwana ari no koza ibikoresho byo mu rugo, ari imbere y'umugezi ukabona y'uko bimugoye cyane, kuko aba ahetse umwana atwite n'undi kandi uwo ahetse na we akiri muto.

Iyo ufashe urungano rw'abana batoya bafite imyaka hagati y'itatu ndetse n'itanu, ukabahuriza hamwe, abo bana barishima ugasanga bari guseka bigatuma batekereza neza ndetse bakaguka mu mibanire.

Inzu yubatse neza, igomba kugira ibi bikurikira: Igomba kugira urubaraza, kandi igomba kuba ifite ibiti biteye ku ruhande bituma umuntu ahumeka neza, ibyo biti bikaba biri mu kajarede kagomba kuba kari imbere y'iyo nzu.

Murwego rwo kongera uburinganire mu Rwanda usanga umugabo n'umugore bose bayobora kimwe, bakajya gukoresha inama ahantu babwira abantu kwirinda agakoko gatera sida.

Iyo uri kumva utari gutekereza neza ufite ikibazo mu mutwe, ujya kwa muganga haba hari abantu benshi bashinzwe gutanga ubujyanama ku bantu bafite bene icyo kibazo bakagufasha ubundi ugataha.

Iyo uri umukecuru akabyara abana benshi udafitiye ubushobozi bwo kurera no kubaha ibikenerwa byose ku bana, usanga abo bana batameze neza ukagirango ngo bafite ikibazo mu mutwe. Kuko baba badafite imyambaro imeshe, badafite n'ibindi byangombwa abana bakenera.

Umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe usanga rimwe na rimwe aba adashoboye kwiyitaho ugasanga ntiyogosha umusatsi, ugasanga ndetse n'ubwanwa bwe nta bwogosha byose byarakuze yambaye n'ibyenda byacitse.

Umugore w'umu mama iyo yambaye ikanzu y'umutuku, akambara n'agakote k'umukara, yisize amavuta yaranisukishije, usanga agaragara neza kumubona.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda bakunze kwita rbc mu ndimi z'amahanga, usanga gihora kigira abantu inama kurya neza kugira isuku ndetse no kwisuzumisha igihe bahuye n'indwara runaka kugira ngo bakire kandi bagire imibereho myiza.

Abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe, usanga bambaye ibyenda byashaje by'ibicocero, batiyogoshesha umusatsi, bagenda batoraguriza ibyo babonye, imyanda yose nk'amasashi, ibikarito ndetse n'ibindi, kubera y'uko baba bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Iyo umusore yihebye akabona umukobwa uza kumuganiriza, akamubwira ikibazo afite, usanga yumva aguwe neza ndetse akamererwa neza n'iyo ndwara yo gutekereza cyane yari afite.

Iyo umugabo ari gutekereza cyane ashobora guhura n'ibibazo bitandukanye akaba yagira n'uburwayi bwo mu mutwe, iyo ufite umugore araguhumuriza ndetse akakugira inama byarangiza bigakira.

Indwara yo kubana n'ubumuga bwo mu mutwe usanga ari indwara ihangayikishije u Rwanda ndetse n'Abanyarwanda bose muri rusange, aho usanga umuntu uyirwaye aba atazi kwiyitaho ku mubiri yaba mu myambarire ndetse no kwisukura ndetse no kwiyogoshesha.

Iyo umuntu asoje amahugurwa ahabwa impamyabumenyi ndetse iyo mpamyabumenyi iba igaragaza ibintu yahuguwe byose muri ayo mahugurwa, usanga ayishimira cyane akanayifotorezaho kuko aba ari igikorwa cy'ubutwari aba agezeho.

Hirya no hino usanga hari abana bafite ibibazo bitandukanye, aho usanga bambaye imyenda y'ubucocero, badaheruka kwiyogoshesha, ubona yuko bababaje kandi barabuze imiryango ibafata ngo ibarere, ugasanga rimwe na rimwe bakurijemo ikibazo cyo kugira uburwayi bwo mu mutwe.

Iyo urugo rubana n'ubukene usanga ababyeyi batabasha kubonera ibikenerwa byihariye by'abana nk'imyambaro, ibiribwa ndetse n'ibindi, ugasanga nta n'ubwo abana babona ubuvuzi byihuse.

Hari gahunda zitandukanye zo mu Rwanda. Imwe muri zo twavugamo nka gahunda yo kugirira neza abantu bafite ikibazo cyo mu mutwe, ndetse bakazamura n'imibanire mu kunga ndetse no kwirinda ihohoterwa. Iyo gahunda ikorerwa mu Rwanda.

Abaturage batuye kure y'umujyi usanga baba bibera mu nzu zidateye sima, ahubwo ziteye ibigwagwa. Bakunda kurangwa n'ubumwe kuko bicara bakaganira bakareba icyateza umuryango wa bo imbere.

Ababyeyi bafite abana batoya, bajya kwa muganga kubasuzumisha, muganga yarangiza akabafata umuriro akoresheje igikoresho cyabugenewe, yarangiza akababwira umuriro w'umubiri bafite uko ungana.

Abantu benshi bakunze kugira ikibazo cy'imitekerereze cyangwa se ubumuga bwo mu mutwe, bakunze kujya kwa muganga, muganga akabagira inama akabaha ubufasha ba.

Ku itariki icumi z'ukwezi kwa cumi Isi n'abayituye muri rusange, bizihiza umunsi mukuru wahariwe kurwanya indwara zo mu mutwe, harimo nk'indwara y'ubumuga bwo mu mutwe.

Abantu baba bafite ubumuga bwo mu mitekerereze usanga baba bambaye imyenda yacitse, bisize amakara mu maso kuko nta bitekerezo byinshi baba bafite byo kwiteza imbere ndetse n'ibitekerezo by'ahazaza.

Iyo uzengurutse Igihugu ukagera mu Turere tumwe na tumwe hirya cyane mu byaro, usanga hari abana bababaje bari kurira, bambaye imyenda yacitse ndetse bari kumwe n'ababyeyi babo ubona yuko ntaho bakura ibyo kurya cyangwa se iby'ibanze bibatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abana bafite imyaka itandatu kugeza kuri cumi n'tatu, ubu usanga biga mu mashuri abanza, baba bambaye impuzankano y'ishuri ryabo kandi baba bishimye cyane kuko imyaka baba barimo iba ibibemerera guhora bishimye.

Iyo umugore atumvikana n'umugabo usanga umugore aba afite ibitekerezo byinshi mu mutima we, aribyo bituma anarakara cyane akaba yakora ibintu bidakorwa nko kurwana cyangwa se gutura umujinya we abandi.

Iyo wahuye n'ikibazo cy'imitekerereze minini cyane ugasanga uri gutekereza ibintu bitandukanye bituma uruha mu mutwe, ni ngombwa yuko ujya ku ivuriro kuko hari abantu baba bashinzwe kuganiriza abantu bafite ibibazo nk'ibyo barangiza bakakuganiriza ugatekereza neza ugahabwa ubufasha.

Agahinda, imibabaro ndetse n'imiborogo, usanga bigaragara cyane ahantu abantu baba bagiye gushyingura. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu aba yari afite indwara y'akarande yarangiza akava mu buzima, iyo bagiye kumushyingura cyangwa se bari kwibuka uko yari ameze, usanga amarira aba ari menshi kuri bamwe mu ba…

Abatari bakeya biganjemo urubyiruko, usanga bakunze guhura n'indwara zitandukanye. Izo ndwara zigaterwa no kuba batekereje cyane cyangwa se banyweye ibiyobyabwenge, ari byo bituma usanga bameze nk'abafite ubumuga bwo mu mutwe. Bakajyanwa kwa muganga.

Iyo abayobozi bari mu nama, usanga rimwe na rimwe batumiye impuguke mu birebana n'ubuzima bwo mu mutwe, ikabagira inama y'ukuntu bakwita ku buzima bwo mu mutwe, aho bakorera hose.

Abanyeshuri iyo bahuriye hamwe bambaye imyenda isa kandi bari kumwe n'abarezi babo bakunze kwishima cyane kuko aba ari ibintu by'agaciro yuko bahura n'abarezi babo.

Kugira ngo umuntu agaragare neza, bisaba yuko yambara imyenda imukwiriye, kandi myiza, yaba ari no ku mugabo ndetse akanatebeza. Nicyo kizagaragaza yuko, abantu buzuye badafite ikibazo.

Amenyo yanjye ishema ryanjye, icyo cyagakwiye kuranga buri Munyarwanda wese, ubwo yagakwiye gufata umwanzuro wo kujya asukura amenyo, uko abyutse ndetse na nyuma yo kurya, ibi bimufasha kudahura n'indwara zimwe na zimwe zitandukanye zifata amenyo.

Umugabo wishimye cyane bigaragara yuko uwo mugabo afite igikoresho kimwe bita vita classic gishimishije cyane, uyu mugabo uko bigaragara afite ibyishimo cyane, ibyishimo bifasha umuntu kubaho neza mu buzima bwe bwa buri munsi.

Mu rwego rwo kurinda amenyo, iyo umuntu arwaye amenyo ajya ku ivuriro rimwegereye, ivuriro rikamwohereza ku bitaro bikuru, barangiza bakamuha akarinda amenyo, aho amenyo ye ayashyira mu kandi kantu kabugenewe, kakayafasha gukomera.

Umwana uri mu kigero cy'imyaka itanu kugeza kuri itandatu wagiye kwa muganga kwisuzumisha amenyo, muganga akayasuzuma akareba umuti amuha utuma amenyo ye akomeza kurabagirana.

Uyu ni umugabo ufashe umuti mu ntoki uvura amenyo umuti umufasha kugira amenyo asukuye cyane imbere ye hakaba hari na sanitayiza bigaragara ko mbere y'uko agira icyo akora abanza gukaraba intoki.

Amenyo yanjye ishema ryanjye. Hari imiti itandukanye yagenewe gusukura amenyo, aho ufata uwo muti ukawushyira ku buroso, warangiza ugakuba ku menyo, ukayoza, ukiyunyuguza amazi, maze ugahora ufite amenyo yera de nk'ay'Inyange.

Mu menyo mirongo itatu n'abiri umuntu mukuru aba afite, ayo menyo harimo amoko ane: hari ibijigo, hakaba n'andi ashinzwe gutemagura ibiryo, naho ibyo bijigo byo umumaro wabyo ni ugusena ibiryo umuntu aba amaze kurya, yarangiza akabimira bimeze neza kugira ngo bize korohera igifu.

Inzu mberabyombi ifite umwanya munini, usanga haba harimo intebe nziza cyane, ku buryo umuntu uhageze ahita azicaraho akumva aguwe neza.

Iyo abakobwa bafite amenyo asukuye cyane yera nk'akanyange, usanga bakunda kwisekera umunsi ku munsi kuko ntacyo babikanga, hari imiti rero itandukanye yagufasha nawe ukagira amenyo meza asukuye.

Iyo umuntu afite ikibazo cy'amenyo, ajya kwa muganga, hari ibikoresho byabugenewe biba bihari, bamushyiraho bakoza amenyo, bakamuha serivisi nziza, yarangiza agataha afite amenyo yererana kandi adafite indwara n'imwe mu menyo ye.

Amenyo asukuye, umuntu ufite amenyo asukuye, yakoreye isuku ihagije cyane, amenyo akaba yera, bigaragara yuko ahora ayakorera isuku ye, ya buri munsi.

Umuntu ufite amenyo atarwaye indwara n'imwe, akunda guhora aseka cyane, amwenyura kuko ntacyo aba yishinja, aba afite amenyo yererana cyane kuko nta ndwara aba afite.

Ibyumba by'amavuriro usanga hari ibyumba biba byihariye kuba bibikwamo ibikoresho ndetse n'imiti ivura amenyo. Aho usanga hari utubati dutandukanye tugiye tubamo imiti ivura amenyo.

abavuzi bavura ibijyanye n'amenyo usanga baba bafite ubuhanga buhambaye muri ako kazi kabo baba bakora cyane ko baba barabyize mu mashuri yisumbuye ndetse na za kaminuza. Usanga rero bafite imyambaro yabo yihariye yiganjemo amataburiya ndetse n'aho bakorera hameze neza harimo ibitanda ndetse n'ibindi bikoresho byiza byafasha umurwayi guhita amererwa neza.

Umuntu iyo arwaye amenyo akumva murya ajya kwa muganga haba hari imiti yabugenewe bamuha ivuramenyo, cyangwa se yaba amurya cyane bakayakura akazongera akamera.

Indwara y'amenyo ni indwara iterwa ahanini no kudasukura amenyo, aho usanga umuntu atajya aborosa amenyo ye ugasanga yabaye imikara, ibi ngibi bituma arwara amenyo akamurya, iyo agiye kwa muganga barayakura cyangwa se bakamuha.

Iyo amenyo agiriwe isuku ndetse akitabwaho, amenyo arakomera ugasanga ntavungagurika kandi ugasanga asa n'umweru nk'amenyo y'akanyange. Ni ngombwa rero y'uko abantu bamenya uburyo bwo gusukura amenyo bakoresheje imiti y'amoko atandukanye.

Iyo umuntu ahora yoza amenyo ye agira amenyo ameze neza cyane, ugasanga amenyo ye arasa n'umweru aribyo bitagwa amenyo yera nk'akanyange, umuti wo gusukura amenyo uba uhari buri munsi, ukagurwa mu mavuriro yigenga cyangwa se ya leta.

Indwara y'amenyo, yamaze kubonerwa umuti, aho iyo umuntu arwaye iryinyo ryaracukunyutse, ajya kwa muganga bakarisudira, rikongera rikaba rizima, agatana n'iyo ndwara y'amenyo.

Amenyo cyane cyane ay'ibijigo akunze gufatwa n'indwara zitandukanye, aho udusimba tuza tukamunga ayo menyo akajya agenda avungagurika.

Amenyo meza ishema ryanjye, iyo umwana arwaye amenyo ajya kwa muganga bakayavura, baba bafite imiti yabugenewe isukura amenyo ndetse nawe bakamutegeka kujya yoza amenyo ye umusi k'umunsi.

Abakobwa iyo bamaze gusukura amenyo yabo, bafata indorerwamo, bakireba, bagaseka kugira ngo barebe niba amenyo yabo akomeye kandi akeye cyane.

Umwana mutoya iyo yarwaye amenyo ajya kwa muganga, hari ibikoresho abaganga baba bafite bireba iryinyo rirwaye, barangiza basanga ari irisudirwa bakarisudira cyangwa se yaba ari irikurwa bakarikura cyangwa se yaba ari irivurwa bakamuha umuti agataha.

Abagabo bamwe na bamwe usanga bakunze kurwara indwara y'amenyo, iyo barikozeho bakumva rinyeganyega bigaragara yuko iryo ryinyo riba rirwaye, ni yo mpamvu rero ari ngombwa guhita bajya kwa muganga.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda, usanga gitegura umunsi Mpuzamahanga wahariwe gusukura amenyo ndetse no kuvura indwara zo mu kanwa, aho umuntu wese ajya kwisuzumisha bakareba yuko nta ndwara yo mu kanwa nk'amenyo afite.

Mu rwego rwo kwimakaza isuku, usanga abanyeshuri ndetse n'abantu bose, bashishikarizwa kugura umuti usukura amenyo, bakagura n'uburoso ku buryo boza amenyo kabiri ku munsi cyangwa se gatatu.

Amenyo meza ishema ryanjye umwana ufite imyaka hagati ya cumi n'ine na cumi n'itandatu ufite amenyo asukuye neza cyane byumvikana yuko ayo menyo aba yayitayeho yayakoreye isuku ihagije cyane.

Amenyo meza agaciro ka buri muntu wese, amenyo agomba gukorerwa isuku binyuze mu gukoresha korogate ndetse n'indi miti yabugenewe ijyanye no gusukura amenyo cyane cyane abana bakiri bato na bo bafite uruhare mu gusukura amenyo yabo, bagakwiye rero kubitozwa hakiri kare.

Abana bagomba kujya basukura amenyo yabo bakoresheje umuti usukura amenyo ndetse n'uburoso kugira ngo bagire amenyo meza kandi akomeye atavunguka.

Abavuzi b'amenyo usanga iyo ugerayo baba bafite intangarugero, amenyo yabo bayagirira isuku, asukuye, kandi asa n'umweru, ni ngombwa rero yuko natwe twita ku menyo yacu tuyoza.

Abantu baba bagira amenyo asukuye, usanga bahora buri gihe bakunda guseka, kuko ntacyo baba bikanga. Baba barasukuye amenyo yabo, ndetse nta n'izindi ndwara ayo menyo afite. Rero bagahorana ibyishimo, kuko nta wuba ari bubaseke, kubera amenyo yabo aba ameze neza cyane.

Kwirinda biruta kwivuza, ni ukuvuga yuko iyo umuntu asukuye amenyo ye aba ari kuyarinda indwara zitandukanye zishobora kuyataka mu gihe runaka, ni ngombwa yuko rero abantu birinda indwara ziterwa n'amenyo bayakorera isuku.

Umuti usukura amenyo, utuma amenyo yera de, akaba nk'ay'akanyange. Cyane cyane kandi usanga iyo miti isukura amenyo, ikoreshwa no gusukura mu kanwa, aho yica udukoko tuba mu kanwa, ikarinda indwara zimwe na zimwe zifatamo.

Mu rwego rwo kwita ku basheshe akanguhe, usanga bajya kwa muganga kwivuza indwara zitandukanye, kuko iyo umuntu ashaje aba afite indwara muri we zitandukanye. Ni ngombwa rero y'uko yitabwaho n'abaganga.

Umuntu w'umusaza iyo ageze mu zabukuru, hari indwara nyinshi zikunze kumwataka. Izo ndwara rero zikira ari uko abonye imiti ahawe n'abantu b'abaganga babihuguriwe.

Mu rwego rwo kugira ngo abantu bakuze bakomeze kugira ubuzima bwiza, usanga bajya muri gahunda ya siporo ndetse n'imyitozo ngororamubiri, aho baba bambaye impuzankano ya siporo barangiza bakajya mu myitozo ngororamubiri.

Umuntu ugeze mu zabukuru ntabwo akenshi gutambuka biba bimworoheye ahubwo akenera umuntu umufata ukuboko, akamufasha gutambuka cyangwa se rimwe na rimwe, agahabwa ibikoresho bimufasha kugenda nk'imbago ndetse n'ibindi.

Iyo umuntu amaze gusaza usanga imisatsi ye ihinduka umweru akazana imvi, cyane cyane ibi bikunze kubaho ku bantu baba batarameze uruhara.

Abasaza barashoboye. Ni ukuvuga yuko rimwe na rimwe usanga basaza bafite akazi ko mu biro, aho baba bandika batunganya ibikoresho bimwe na bimwe ndetse ugasanga ibyo babikora kugira ngo bakomeze kubaho neza babone ibibatunga.

Abasaza bageze mu zabukuru bakunda kuba bicaye baganira n'abana babo, bababwira amateka yabayeho ndetse banabaganiriza. Abana rero na bo bafite inshingano zo kwita ku basaza cyangwa se ababyeyi babo iyo bageze mu zabukuru.

Abantu bageze mu zabukuru, baba bagomba kurya indyo yuzuye igizwe n'ibirinda indwara, ibitera imbaraga, ndetse n'ibyubaka umubiri. Mu birinda indwara twavugamo nk'imbuto ndetse n'imboga, naho mu byubaka umubiri tukavugamo inyama n'ibishyimbo, mu gihe mu bitera imbaraga harimo ibijumba.

Umwana uri kwita kuri sekuru, uyu mwana ari kwita kuri sekuru amuha icyo kunywa, amuha keya, bigaragara yuko uyu mwana ari kwita kuri sekuru mu gihe yari amaze iminsi myinshi batabonana.

Abantu bageze mu zabukuru bakunda gukoresha imbuga nkoranyambaga kugira ngo bamenye amakuru aba ari gucaracara hirya no hino ku isi, mu rwego rwo kugira ngo bamenye abantu bateye imbere ndetse na bo uko bafasha abana babo gutera imbere.

Abantu bageze mu zabukuru bakunda guhura n'indwara nyinshi cyane, nka za rubagimpande ndetse n'indwara y'umutwe n'iy'amaso, ni muri urwo rwego rero bakunda guhora bafite imiti, baba barandikiwe n'abaganga.

Si byiza yuko umukecuru wapfakaye umaze gusaza yitekera kuko aba afite abuzukuru bamufasha guteka. Abantu bagakwiye kujya bareba umuntu nk'uwo w'umukecuru bakamufasha, cyane cyane kuko aba adafite ubufasha bw'ibanze.

Ntabwo ari urubyiruko n'abana bemerewe gukora siporo bonyine kuko n'abantu bakuze barabyemerewe nk'urugero nk'abamama bageze mu zabukuru, na bo bemerewe gukora siporo ubwo bajyayo bagakora pompaje, bagaterura n'ibyuma.

Abantu b'urungano iyo bahuye, cyane cyane abakuze, usanga baganira, bakishima cyane, bishimira ibyo bagezeho ndetse abandi bishimira n'imiryango bungutse.

Abaganga baba bafite inshingano zo kwita ku bakecuru bageze mu zabukuru. Hari imiti itandukanye babaha kubera yuko baba bakunze kwatakwa n'indwara zitandukanye ariko abo baganga bakabafasha kubaho neza.

Leta ijya ifata umwanya igahemba abakecuru kandi ikabaha ibikoresho bakoresha mu mirimo yabo ya buri munsi. Iyo abakecuru bageze mu zabukuru, usanga bahembwa nk'ibikapu kugira ngo bajye batwaramo.

Iyo umuntu agiye kunywa imiti yiganjemo ibinini, bimusaba kuba afite amazi mu kirahure, asukuye meza kugira ngo aze gushyira ibyo binini mu kanwa, ahite anywa n'amazi bigere mu nda bimworoheye.

Abantu bageze mu zabukuru baba bagomba kurya indyo yuzuye igizwe, n'ibitera imbaraga, ibirinda indwara, ndetse n'ibyubaka umubiri, mu bitera imbaraga dusangamo ibinyabijumba, naho mu birinda indwara tugasangamo imbuto n'imboga, naho mu byubaka umubiri tugasangamo inyama n'ibishyimbo.

Uyu ni umusaza, umusaza mukuru cyane uri hagati y'imyaka mirongo itandatu n'itanu ndetse na mirongo inani. Uko bigaragara ntabwo ashobora gutambuka, niyo mpamvu umukobwa bari kumwe w'umuzungu ari we uri kumufasha gutambuka. Byumvikana y'uko ababyeyi bagomba gufashwa igihe icyo ari cyo cyose bakuze.

Ababyeyi bakuze biganjemo abasaza ndetse n'abakecuru, iyo bicaye mu rugo usanga bari gukora ibikorwa bitandukanye nko kuboha uduseke ndetse no kuboha udutebo.

Umukecuru ugeze mu zabukuru akunze guhura n'indwara zitandukanye, ziterwa n'uko aba agize imyaka myinshi, cyane cyane iyo atabayeho neza. Ni yo mpamvu rero, ajya ku muganga kugira ngo amuvure.

Abantu bakuze biganjemo abakecuru b'imyaka iri hagati ya mirongo itanu kuzamura, bakunze kugira ubuzima bwiza, bakishimira imbuga nkoranyambaga ubwo bakoresha telefone bari kureba amakuru agezweho.

Abantu bageze mu za bukuru bafite imyaka nka mirongo itandatu n'itanu kuzamura usanga bakunze kwitabwaho ndetse bakajya no ku mavuriro kugira ngo hagenzurwe ubuzima bwabo barebe uko bahagaze.

Abasaza iyo bageze mu zabukuru bageze imyaka nka mirongo itandatu n'itanu cyangwa se mirongo itandatu kuzamura, usanga bakunda kwikinira imikino itandukanye, nk'igisoro ndetse n'imikino nk'adamu.

Abantu bakuze cyane cyane ab'abakecuru usanga bakifitiye icyizere gikomeye, ubwo rimwe na rimwe iyo habaye inama bahagurutswa kugira ngo batange ikiganiro, bagire inama urubyiruko ndetse n'abandi bana bakiri bato.

Abantu bageze mu za bukuru, bagakwiye kwitabwaho, bakitabwaho bahabwa indyo yuzuye igizwe n'ibitera imbaraga, ibirinda indwara ndetse n'ibyubaka umubiri urabona hagomba kuba harimo, imboga, inyanya, byose bishobora gutuma ugeze mu za bukuru abaho neza.

Umuntu ugeze mu za bukuru yarabyaye abana ndetse afite n'abuzukuru, yishima cyane iyo bari kumwe nabo baganira abaha impanuro zitandukanye.

Iyo umuntu ageze mu za bukuru ashaje, usanga akenera ibikoresho agenderaho bisimbura ingingo ze, ibyo bikoresho twavugamo nk'imbago, zimufasha kugenda kugira ngo atagwa hasi, kuko aba ashaje cyane.

Imboga ziri mu byo kurya birinda indwara, iyo umuntu ageze mu za bukuru kubera aba yarabyaye uwo mwana aba yarabyaye aba agomba kuza kumwitaho akamushimisha ndetse akamubonera buri kimwe cyose akenera.

NyakubahwJeannette Kagame ni umugore w'umukuru w'Igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame isaha n'isaha aba agira abantu inama y'ukuntu bakwita ku bantu babana n'ubumuga bwo mu mutwe aho ahora...

Uyu n’umugabo wicaye imbere y'abana bari mu kigero cy'imyaka itandatu, baganira ku kibazo cy'ibijyanye n'imikorere y'ubwonko, n'ikibazo cyo mu mutwe kiri ku kwibasira abana b'igihugu cy'U Rwanda.

Uyu ni umugabo ufite icyapa mu ntoki ze, icyapa cyanditseho amagambo akurikira: " Monkey Pox Vaccine Now " bishatse kuvuga yuko ari umuti muyu icyorezo bita Monkey Pox.

Jeanine yagiye ku ivuriro agezeyo bamwambika igikoresho bakoresha iyo bari gupima umuntu ufite umuvuduko w'amaraso, baramusuzuma bamaze kumusuzuma basanga ari mutaraga nta muvuduko w'amaraso afite.

Icyorezo cyaje kikataka umubare w'abantu ku Isi hose, ni icyorezo cya Kovide cumi n'icyenda, cyageze mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri, kigahitana abatari bakeya.

Asanga abantu biganjemo abakecuru n'abasaza, iyo bageze mu myaka y'izabukuru, barwara amaso ntibarebe, ariko kugira ngo ibi ingibi bikemuke, bajya kwa muganga bagahabwa indorerwamo z'amaso cyangwa se bagahabwa imiti.

Agakoko gatera sida ni icyorezo gihangayikishije u Rwanda ndetse n'isi muri rusange, ikibabaje cyane ni uko muri iki gihe iri kwibasira abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda, bakunze kwita RBC mu ndimi z'amahanga, gishishikariza abantu kugira isuku mu buryo butandukanye, bakaraba intoki kenshi kugira ngo birinde ibyorezo by'indwara ndetse n'izindi ndwara ziterwa n'umwanda.

Umuntu iyo arwaye bitunguranye, usanga abakorerabushake bahita bashaka ukuntu bahamagara ku ivuriro, ivuriro rigahita ryohereza abavuzi bakaza kumuvura kugira ngo azanzamuke akire, agaruke mu buzima.

Muri Afurika y'iburasirazuba, usanga abantu b'abahanga benshi bahora bashakisha icyatuma abaturage babo bagira ubuzima bwiza, bagashakisha imiti, bagashakisha n'ibindi bintu bitandukanye, baba bakora mu bushakashatsi, muri Afurika y'uburasirazuba.

Urubyiruko rugenda mu muhanda rufite icyapa kigaragaza yuko kwirinda virusi itera SIDA ari inshingano z'umuntu wese, ndetse kandi ko kuyipimisha bikorerwa ubuntu.

Ubuzima bwiza kugira ngo umuntu abugereho bisaba yuko agomba kuba arya indyo yuzuye, igizwe n'ibitera imbaraga, ibirinda indwara ndetse n'ibyubaka umubiri.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda, buri mwaka gitegura ibitaramo. Muri ibyo bitaramo kigatangiramo ubutumwa butandukanye bw'ukuntu abantu bakwirinda icyorezo cy'agakoko gatera SIDA.

Buri mwaka Isi n'abayituye bizihiza Umunsi Mukuru Mpuzamahanga w'Ibidukikije ku Isi, uwo munsi abantu bigiramo ukuntu bakomeza kurinda ibidukikije binyuze mu buryo butandu....

Inama zikunda kuba inshuro nyinshi mu Rwanda ndetse no hanze y'aho, ziga ku ngingo zitandukanye akenshi zikaba ziga ku cyagirira abene gihugu umumaro ndetse n'icyazamura ubukungu bw'icyo gihugu.

Umuyobozi iyo afite ibintu ashaka kubwira urubyiruko, usanga urubyiruko rwicara na we agafata mikoro yarangiza akarubwira ibyo rugomba gukurikiza.

Indwara y'ibiheri ni indwara yugarije abatari bakeya mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu mahanga muri rusange, usanga akaboko karasheshe urumeza, gafite ibiheri byinshi cyane aribyo abantu bahita bagirwa inama yo kujya kwisuzumisha kwa muganga kugira bavurwe bakire.

Diyabete ni indwara ifata abatari bakeya mu Rwanda. Hari ibimenyetso biranga umuntu urwaye diyabete. Muri ibyo bimenyetso harimo nko gukenera kwihagarika inshuro nyinshi cyane. Hari ikindi cyo kumva uhora unaniwe. Kubura ibiro ndetse no kumva ufite icyaka inshuro nyinshi.

Indwara zose ntabwo ziba zandura, ntabwo ziva ku muntu umwe zijya ku wundi, hari indwara zitandura, muri zo twavugamo nk'umuvuduko w'amaraso, indwara y'umwijima, indwara y'umutima ndetse na kanseri.

Abaganga baba ari abantu bakunda kuba bafite akanyamuneza, ndetse bakunda gutanga serivisi zitandukanye, cyane cyane ku barwayi batabinubiye.

Mu rwego rwo kugira ngo umuganga amenye ubuzima bw'umwana uko buhagaze, cyane cyane iyo agiye kumupima umuvuduko w'amaraso, aba afite ibikoresho byabugenewe yambika umuntu ku kaboko kugira ngo yumve nimba afite umuvuduko w'amaraso.

Ibitaro bya Kabutare ni ibitaro byita ku barwayi cyane aho iyo urembye werekezayo bakakuvura, ibitaro kandi bitanga serivisi ku bantu baba bahuye n'ihohoterwa.

Amazu menshi abari kwa muganga hibandwa ko haba hari n'inzu y'ababyeyi bagiye kubyara, iyo ababyeyi bagiye kubyara baba bafite inzu yabugenewe, aho bajya bakabyarira ndetse haba hari n'abaganga benshi b'ababyaza.

Ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi, ni ikigo nderabuzima gitanga serivisi z'ubuvuzi butandukanye. Harimo nko kuvura abantu barwaye mu nda, gusiramura, ndetse no kubyaza ababyeyi.

Inyubako z'ibitaro ni inyubako ziba zuje isuku, ziba zifite umwanya uhagije kuko iyo ugezeyo uhasanga umubare munini w'abantu, biganjemo abarwayi ndetse n'abarwaza n'abaje kugemurira abaharwariye.

Iki ni icyumba. Nk'uko bigaragara iki cyumba harimo ibitanda byinshi bitandukanye, bifite amapine, ibitanda bakaraga bikazamuka, bigaragara yuko ari ibiryamwaho n'abarwayi, ndetse n'indembe, zo kwa muganga.

Iki ni icyumba cyiza cyane, icyumba kirimo umurwayi kikabamo televiziyo kikabamo ndetse n'amarido meza cyane, ku buryo umurwayi yakirimo aba ari kureba amakuru kuri televiziyo y'ibiri kubera hirya no hino ku isi.

Iyo umuntu agize ikibazo cyo mu mutwe ajya kwa muganga. Habayo imashini zabugenewe zireba mu mutwe zikareba imikorere y'ubwonko ndetse n'uko umuntu ari gutekereza.

Inyubako y'ibitaro iba ifite imiryango myinshi: haba hari umuryango w'aho basuzumira, hakaba umuryango w'aho batangira imiti ndetse n'umuryango w'aho bapfukira.

Ukigera ahari inyubako zitandukanye zikorerwamo ubuvuzi, uhasanga isuku idasanzwe, uhasanga kandi umubare munini w'abantu, biganjemo abarwayi baba baje kwivuza ndetse abatarwaye bakaba bagemuriye abari yo babo barwaye.

Amavuriro ndetse n'ibitaro bikomeye muri rusange, usanga bifite inyubako ndende kandi nini cyane, ifite ahantu haparikwa imodoka hagaragara kandi hanini, kuko abaza kwivuza ndetse n'abaza gusura ibitaro ndetse n'abagemura ,usanga baba bari mu modoka. Ni ngombwa rero y'uko haba parikingi nini cyane.

Amavuriro ari kubakwa muri iki gihe uba usanga yujuje ibisabwa kandi ateye imbere cyane, dore yuko aba ari ama etaje, aho hasi haba hakorerwa, hejuru yayo na ho hari andi mazu akorerwamo. Ibi ngibi bituma ubutaka bwari kubakwaho aho hose buzigamwa bakahakorera ibindi bikorwa remezo.

Ikigo cy'Igihugu mu Rwanda gishinzwe ubuzima cyubaka inyubako nziza, aho usanga abaganga bakorera ahantu hameze neza ndetse n'icyo kigo kigakorera mu nyubako nziza.

Icyumba gikorerwamo siporo mu ndimi z'amahanga bakunze kwita Jimu. Ni icyumba kiba gifite ibikoresho bitandukanye umuntu akoreraho siporo.

Ikigo nderabuzima cya Rwerere ni ivuriro ritanga ubuvuzi bw'ibanze ku babugana, biganjemo umubare munini w'urubyiruko, abasaza ndetse n'abakecuru, aho bahabwa serivisi z'ubuvuzi z'ibanze.

Abantu bakora mu mavuriro yigenga baba bambara impuzankano isa ndetse bakambara n'udupfukamunwa, ibi ngibi bibafasha kubatandukanya n'abarwayi, aho ukimubona uhita umenya yuko ari umuganga.

Ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge ni ibitaro byubatse muri ako karere, bikaba bifite inyubako zijyanye n'igihe tugezemo, aho mbere yuko ukinjiramo, usanga hari umwanya uhagije ushashemo amatafari mu rwego rwo kwimakaza isuku.

Amavuriro yigenga usanga aba afite amoko y'imiti myinshi itandukanye. Imiti imwe iba iri mu macupa, iyindi iri mu bikarito. Iyo ugiye kwivuzayo, ubanza kubabwira uko umerewe kugira ngo babone ubwoko bw'umuti baguha.

Inyubako z'amavuriro nk'ibitaro ndetse n'andi mavuriro yigenga usanga, ziba zifite ibitanda bisashe neza, aho abarwayi baryama iyo barembye.

Amavuriro yigenga, uba usanga acuruza imiti ivura indwara zitandukanye. Iyo ugiye kwivuza ku mavuriro ya Leta, rimwe na rimwe hari igihe bakubwira kujya ku mavuriro yigenga.

Amazu meza cyane ari ruguru y'umuhanda agaragara yuko ayo ari amazu y'ikigo nderabuzima cya matyazo, abaturage bo muri uwo murenge wa matyazo bajya kwivurizaho mu rwanda.

Ahantu haba hari inyubako ya Leta nk'ivuriro cyangwa se ibitaro, usanga haba harasizwe umwanya munini wo guteramo ibyatsi bituma hamera neza.

Inyubako nini ziganjemo inzu mberabyombi, usanga zifite uruhare runini cyane, kuko abantu niho bakorera inama, usanga rero harimo intebe nyinshi cyane, ndetse n'ameza kugira ngo abantu bicareho bari gukora.

Ibitaro ni inyubako bubaka mu bwoko bw'amagorofa kugira ngo bishobore kwakira umubare w'abarwayi benshi ndetse n'abakozi benshi.

Abaganga bakunda gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga cyane cyane nka mudasobwa, iyo bari gushakisha amakuru yerekeranye n'icyorezo kiba cyateye mu gace runaka kugira ngo barebe ukuntu bakibonera urukingo.

Abaganga baba bita ku barwayi barembye cyane, iyo bagiye kubashyira imiti bagenda bambaye ingofero ndetse n'udupfukamunwa, kugira ngo batavaho bandura nabo indwara abo ngabo barwaye, baba bafite.

Inyubako z'ibitaro aba ari inyubako zuje ubwiza bunini cyane, aho usanga ziba zifite amakaro asukuye, idari rimeze neza; ziba zifite ibyumba bitandukanye: nk'icyumba k'isuzumiro, ibyumba bavuriramo ndetse n'ibyo babagiramo.

Leta yubatse ahantu henshi usanga iyo umukobwa afashwe ku ngufu atabishaka cyangwa se atari yuzuza imyaka, ajya aho hantu barangiza abaganga bakamugira inama yo kuba yakuramo iyo nda cyangwa se bamwitaho akarera umwana atwite.

Abaganga baba bambaye amataburiya y'umweru, kandi bagira icyumba bakoreramo ubushakashatsi, ubwo bafata ibintu bakabiteranya bakareba icyo bibyara.

Ibitanda byiza by'abarwayi bigaragaraho imisego imeze neza cyane ku buryo umurwayi abiryamaho akumva ameze neza cyane, ibi bitanda biboneka ahantu ariho hose mu gihugu bimeze neza kabisa.

Iterambere mu Rwanda rirakataje, aho basigaye bubaka inzu ndende cyane z'amayetaje. Ibi ngibi rero usanga amavuriro menshi ari gukoresha ubu buryo bwo kubaka inzu ndende z'amayetaje.

Amavuriro atandukanye aba afite urukarabiro rwa kijyambere, aho umuntu agerayo agatega ibiganza umugezi ugahita umushyiraho amazi asukuye agakaraba intoki atiriwe ajya gufungura ayo mazi.

Inyubako zikoreramo Farumasi, zikunze kugira abakiriya batandukanye, baba baje kugura imiti y'indwara baba bafite zitandukanye, bigatuma hahora abakiriya baba baje gushaka iyo miti.

Iyo ugeze ku mavuriro yigenga hirya no hino mu gihugu uhasanga inyubako nziza cyane zifite isuku, ukahasanga n'umubare munini w'abantu biganjemo abadamu, urubyiruko, abagabo ndetse n'abakecuru, ubwo baba bagiye kwakayo serivisi zitandukanye zerekeranye n'ubuvuzi.

Icyumba cy'ibagiro, ni icyumba kiba ahantu ku bitaro bikomeye cyane, kuko haba hari abaganga b'inzobere basobanukiwe ibyerekeranye no kubaga, hari nk'igihe umubyeyi ajya kwa muganga atwite bikananirana y'uko abyara bigasaba y'uko abagwa, ibyo rero bikorerwa muri icyo cyumba.

Iyo umwana akivuka usanga umuganga amwakirana yombi n'ibyishimo akamwuhagira, akamwambika imyenda myiza, kugira ngo aticwa n'imbeho kuko aba ataramenyera ubuzima bushya aba yinjiyemo.

Mu mavuriro usanga haba hariyo ibitanda indembe zirwariyeho, aho baba baryamye. Buri gitondo abaganga bazinduka baje kubitaho, bakababyutsa, bakababaza uko bumva bamerewe, bakabaha imiti.

Ibitaro bya Ruhengeri ni ibitaro byiza cyane biherereye mu ntara y'Amajyaruguru aho urujya n'uruza rw'abarwayi ruba rwerekeje kugira ngo bahabwe serivise z'ubuvuzi.

Ahantu havurirwa haba ibikoresho bitandukanye byiganjemo intebe ndetse zikaba ari intebe nziza cyane ku buryo umurwayi n'undi wese uzicaramo yumva amerewe neza.

Abaganga baba bafite uburyo bita ku barwayi. Iyo bagiye kubapima umuvuduko w'amaraso, hari ibikoresho byabugenewe babambika ku maboko, barangiza bakabishyira mu gutwi, bakumva ukuntu amaraso ari gutembera mu mubiri.

Abaganga baba bafite ubuhanga buhambaye, aho bavura umuntu urembye cyane, iyo bari kumuvura usanga bambaye imyenda yabugenewe ndetse bambaye n'udupfukamunwa kugira ngo batagira indwara nabo bandura.

Ivuriro ryiza ivuriro ryiza rifite ibitanda bimeze neza abaturage aho bajya kwivuza bakumva bamerewe neza kubera uburyo bakiriwemo bitewe naho kuryama hameze neza hafite.

Inyubako zo ku ivuriro usanga haba harimo ibitanda bitandukanye, aho haba hari igitanda umurwayi aryamaho kubera aba atashobora guhaguruka, bakajya bagenda bagikaraga na cyo kizamuka kugira ngo ase nk'uweguka.

Abagabo babiri bicaye mu biro umwe ahagaze. Bigaragara y'uko abo bagabo, umugabo umwe akorera ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda arabisi cyangwa se Rwanda bayomedico centa mu ndimi z'amahanga.

Hari inzu mberabyombi usanga zarubakiwe kujya zikorerwamo imyitozo ngororamubiri, aho abantu bajyayo ugasanga bari guterura ibikoresho bimwe na bimwe, abandi bari gukorerayo imyitozo ngororamubiri, bagenda basukamye, abandi biruka, kugira ngo bagire.

Ibitaro bya Kabgayi . Amarembo y'ibitaro bya kabgayi agaragazwa n'icyapa kinini cyanditseho Kabgayi hospital. Bikaba ari ibitaro byakira abantu barwaye indwara zose zitandukanye, kandi akaba ari ibitaro bimaze igihe kirekire byubatswe hano mu Rwanda.

Icyumba cyiza kirimo intebe ndabyegamiro cyangwa se sheze kirimo uburiri ndetse n'intebe z'abakiriya bigaragara y'uko icyo cyumba gishobora kuba ari inyubako y'ivuriro.

Inyubako y'ibitaro aba ari inyubako nini cyane, itwara n'ubuso bunini, kuko baba barasize umwanya munini wo guparikamo ibinyabiziga nk'imodoka ku babiziyeho. Haba hari icyumba, abantu binjiramo bakihagera, kugira ngo baze kwakirirwamo. Haba hari n'ibyo basuzum...

Umubare munini w'abantu baba bafite umubyibuho ukabije, usanga rimwe na rimwe bakunze no kugira indwara y'umuvuduko w'amaraso, kubera yuko baba badakora imyitozo ngororamubiri ngo bagire ubuzima bwiza.

Uyu ni umugabo uryamye, umugabo uryamye bigaragara yuko yambaye n'agapfukamunwa kandi akaba afite uburwayi nk'uko uyu mugabo agaragara bigaragara yuko afite uburwayi bw'umubyibuho ukabije cyane cyane inda.

Amazu yubatse neza, ubona afite isuku ihagije cyane, asapotinga abana bafite ubumuga ku buryo haboneka aho wili ceyazi zinyura. Bigaragara yuko ari amazu y'amavuriro ameze neza cyane ku buryo buri wese wajyayo avurwa.

Ivuriro rya kigina ni ivuriro ryiza cyane, ukigera i kigina uhasanga abantu benshi biganjemo abagore bahetse abana baba baje kubasuzumisha, ndetse n'abandi baba baje kugemurira abarwayi.

Hari inzu ziba zarubatswe zaragenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, iyo ugezemo ubu usanga harimo ibibuga abantu birukaho, hari n'ahandi bakorera imyitozo ngororamubiri itandukanye.

Inyubako z'amavuriro usanga ari inyubako zubakanye ubuhanga, aho usanga haba harimo n'ibikoresho bitandukanye. Muri ibyo bikoresho twavugamo nk'intebe ziba zifite imisego, ameza ndetse n'ibishushanyo.

Ikigo nderabuzima ni ahantu havurirwa abantu. Usanga hari umubare munini w'abantu biganjemo abasore, inkumi, abana, ababyeyi, ndetse n'abasaza. Iyo bagezeyo, baba bahagaze kugira ngo bakirwe hakajya hagenda umwe umwe.

Uyu ni mugabo wambaye itaburiya ufite ikaramu ku mufuka ndetse n'isaha mu kuboko kwe kw'iburyo, yicaye imbere y'igitanda bigaragara y'uko uyu mugabo ari umuganga wicaye mu nyubako yiwe ategereje abantu barwaye kugira ngo ashobore kuba yabafasha kugira ngo bakire indwara bafite bagire ubuzima bwiza babeho neza nta ndwara bafite ubuzima buzira umuze.

Inyubako z'amavuriro usanga akenshi zikunze kuboneka ahantu hafi y'ibikorwa remezo nk'imihanda kugira ngo imbangukiragutabara zizanye abarwayi, zijye zibona uko zihagera bizoroheye.

Inyubako z'amavuriro ziba zifite intebe, ameza ndetse n'amashusho aba amanitseho abantu barwaye kugira ngo bibuke uburyo babavura.

Iyo umuganga agiye gukingira umwana mutoya, ntabwo aba agomba kumukingira arakaye ahubwo arabanza akamusetsa kugira ngo umwana adatinya urushinge yumve ari nk'ibisanzwe.

Iyo umuntu ari guhinda umuriro ababara n'umutwe, muganga akimubona ahita amuvoma amaraso, yarangiza akayajyana mu cyumba cyabugenewe, akayapima. Kugira ngo arebe yuko uwo umuntu atarwaye malariya.

Mu nyubako z'ibitaro ndetse n'amavuriro yose muri rusange, usanga harimo ibitanda bishashe neza, ariho abarwayi barembye cyane bajya kuruhukira ndetse bakaharyama mu gihe bagitegereje abaganga ngo baze, babavuge.

Inzu mberabyombi z'amavuriro, usanga harimo intebe zitandukanye ndetse zifite n'amabara atandukanye nk'iz'umukara ndetse n'izindi ziba zifite imisego, aho iyo umuntu ahageze agenda akicara akumva aguwe neza, mu gihe agitegereje y'uko bamwitaho.

Inyubako y'ivuriro cyangwa se iy'ibitaro, ni inyubako igomba kuba yagutse kandi ifite imihanda myiza kugira ngo umuntu ubana n'ubumuga aze kuhatambuka bitamugoye.

Inzira zerekeza ku bitaro uba usanga zisukuye cyane dore yuko haba harimo amatafari ahiye ahashashe kugira ngo isuku ikomeze yimakazwe. Usanga hafi yaho hari n'ibyapa byanditseho izina ry'ibyo bitaro uba ugiye...

Urubyiruko abasore abakecuru n'inkumi bitabiriye amahugurwa, aganira ku bigendanye n'ubuvuzi bw'ibanze aho umuntu aba arwaye agahita yegera ivuriro.

Ibitaro n'amavuriro byubakwa ahantu hafi y'umuhanda, kugira ngo ibinyabiziga nk'imodoka by'abakozi ndetse n'abarwayi ,bizahagere byihuse cyane.

Inyubako ikoreramo ikigo cy'igihugu gishinzwe abana mu Rwanda, ni inyubako ubona y'uko ari nini cyane isize amarangi atandukanye, nk'amarangi y'umukara, umweru kandi isakaje amabati meza cyane y'ibara ry'umutuku.

Ibitaro byitiriwe umwami Faisal, biherereye i Kigali. Ibi bitaro byakira abarwayi batandukanye, barembye, ababa bananiwe n'ibindi bitaro bitandukanye by'Uturere, boherezwa kuri ibi bitaro, byitiriwe umwami Faisal, i Kigali.

Inyubako nziza yagakwiye kuba ifite ubwisanzuriro ugasanga ifite ahantu hateye imicaca, ahantu hateye imikindo, indabo ndetse harimo n'utuyira dutandukanye ku buryo habamo n'ibiti bituma abantu babona umwuka wo guhumeka bari muri icyo kigo.

Abantu bakora imyitozo igendanye no guterera icyuma baba bagomba kurya indyo yuzuye kandi ihagije, igizwe n'ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga.

Umukino wa basiketi ni umukino ushimisha abatari bakeya, aho usanga umuntu afata umupira akawujugunya mu kantu kagiye kumera nk'agatebo, umupira wagwamo akaba atsinze amanota.

Iyo umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri ashobora gufata akaguru kamwe akakamanika hejuru y'ikintu runaka, yarangiza akakamanura akongera agafata n'akandi akabigenza atyo akabikora inshuro nyinshi zikurikiranye ari uko agenda abisubiramo.

Mu mukino w'umupira w'amaguru rimwe na rimwe hakunze kuvamo zitunguranye. Ugasanga umuntu ari gukina ariko agakina nabi bakamuvuna. Icyo gihe rero hari umuntu uba ushinzwe kuza kumuvura, agahita aza akamufata ahari imvune akamuvura.

Iyo abantu bari gukina umukino w'umupira w'amaboko usanga rimwe na rimwe bakunda kuvunika ibiganza, ariko iyo wavunitse ibiganza warangiza ukizengurutsaho igitambaro ku kiganza, bituma imitsi isubira mu myanya yayo ugakira.

Kugira ngo abaganga bavure neza, bisaba yuko babanza kureba amakuru y'ibyahoze bivugwa hirya no hino ku isi, bamara kuyareba bakajya kuvura indembe ziba ziryamye kwa muganga.

Abantu bakora imyitozo ngororamubiri yiganjemo igendanye no kwiruka, usanga bakenera kwimenaho amazi mu maso kugira ngo bagarure ubuyanja cyangwa se bagarure akanyamuneza n'imbaraga na morale yo gukomeza gukora imyitozo ngororamubiri.

Hari imiti itandukanye ivura abantu bahuye n'imvune iyo bari mu myitozo ngororamubiri, iyo miti iyo bayimuhaye igabanya uburibwe aba afite mu mubiri, ndetse n'imikaya ye igagomeza gukora neza, cyangwa se bakayisiga n'ahantu umugongo yavunitse umugongo ukongera ugakora neza.

Imvune ni indwara mbi iterwa no gutsikira cyangwa se kuba igufa ryavuye mu mwanya waryo, iyo umuntu yahuye n'icyo kibazo akajya ku ivuriro, bamuvura neza agakira, akongera agashobora gutambuka.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi ku buzima bw'umuntu. Usanga cyane cyane urubyiruko ruyiganjemo ruyikora nk'abakobwa. Ni ngombwa ko imyitozo ikorwa, yamara gukorwa umuntu akanywa amazi kuko hari ayo aba yatakaje cyane menshi, arimo akora imyitozo ngororamubiri.

Iyo umuntu amanitse amaboko akajya agenda ayamanura bimufasha kugorora ingingo, harimo nko kugorora imbavu ndetse n'umubiri we wose muri rusange.

Abantu iyo bahuye n'ikibazo cy'imvune, usanga bajya kwa muganga bakabaha insimburangingo, zibafasha gutambuka, nyuma ariko iyo bamaze gukira za nsimburangingo barazisubiza.

Abantu bakora imyitozo ngororamubiri mu buryo butandukanye; hari uwicara ku mukeka yarangiza akajya amanika amaboko anayamanura, imbere ye hari mudasobwa ari kujya areba ibyo abandi bakora na we akabyayigana.

Mu myitozo ngororamubiri usanga haberamo ibintu bitandukanye, abakobwa usanga iyo bamaze kwambara imyenda y'iyo myitozo ngororamubiri, bajya mu kibuga cyabugenewe, bagasunika ibikoresho bimwe na bimwe bibafasha kugorora amaboko.

Abana ndetse n'urubyiruko, bakunda gukora imyitozo ngororamubiri, iyo myitozo ibafasha kunanura imbavu, ndetse no kunanura umubiri, ari byo bituma bumva baguwe neza, bikabaha guhora batuje muri bo.

Imyitozo ngororamubiri cyane cyane ikorwa n'abakobwa kugira ngo bananuke mu maguru ndetse bananuke no mu nda, usanga iyo ikorwa, ikorwa mu buryo butandukanye.

Umwana yishima iyo ari kumwe n'ababyeyi be, niyo mpamvu umubyeyi aba agomba kurarana n'umwana we mu buriri kugira ngo umwana kubera akiri muto amwishimire ndetse n'igihe amukenereye amubone.

Iri ni icupa ry'amazi meza yane y'urubogobogu afite isuku

Abaganga benshi bicara hamwe bagaterana bakareba televiziyo, bareba ku byerekeranye n'umwuga bakora ari wo wo kuvura abantu.

Abantu bakunda gukora imyitozo ngororamubiri usanga rimwe na rimwe bahuriramo n'imvune zitandukanye, tuvuge ari kwiruka azenguruka ikibuga, yarangiza agatsikira ugasanga aravunitse.

Mu gufasha abantu bakunda guhura n'imvune ubwo baba bari mu mikino y'imyitozo ngororamubiri, usanga hari ibikoresho bimwe na bimwe babambika iyo bahuye n'icyo kibazo cy'imvune kugira ngo bakomeze gukina neza umukino wabo, ndetse n'amagufa aba yatatanye asubirane.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, usanga hariyo ibikoresho bimwe na bimwe bitangaje, nk'urugero hari akantu umuntu aryamaho mu gihe ashatse kugorora imbavu cyangwa se kugorora umukamba w'inda.

Iyo ugiye mu nzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, hari ibikoresho bimwe na bimwe ujyaho ugatera amapompaje kugira ngo inda yawe ibe yagabanyuka, iyo uri umuntu ufite umubyibuho ukabije.

Iyo uri gukora imyitozo ngororamubiri bisaba ngo ukore ibintu bitandukanye uramanza ugasa n'usutama watambitse amaboko warangiza ugatega amaboko warangiza ugasa n'uwifata mu biganza cyane warangiza ukazamura akaguru cyangwa se ukakamanura.

Abantu babana n'ubumuga bw'ingingo, usanga kubera yuko baba badashobora kugenda, barahawe amagare bagenda bacunga ndetse n'abandi bakabafasha.

Amazi meza ni ingirakamaro ku bantu bakunda gukora imyitozo ngororamubiri, cyane cyane abakora biruka. Usanga babira ibyuya bagatakaza amazi menshi, ayo mazi rero nyuma bagomba kuyagaruza ariho usanga banywa ayandi mazi menshi.

Amazi meza ni yo soko y'ubuzima bwiza, abantu bakunda kunywa amazi asukuye bagomba kuyanywera no mu birahure bisukuye, kugira ngo batahura n'indwara zandurira.

Abakobwa biganjemo cyane ab'urubyiruko bakunda gukora imyitozo ngororamubiri igendanye no kwiruka. Iyo bamaze kuyikora usanga bakeneye amazi menshi, bakanywa amazi asukuye kugira ngo asubize amazi mu mubiri baba batakaje.

Abantu bakora imyitozo ngororamubiri, rimwe na rimwe usanga bakunze guhura n'imvune. Icyo gihe rero nibwo usanga bagiye kwivuza imvune cyangwa se bagashyushya amazi bakikanda.

Indwara y'amenyo ni indwara ikunze gufata abantu bose. Iyo umuntu arwaye iyi ndwara agerageza kujya kwa muganga. Kwa muganga hari ibikoresho baba bafite bimurika mu kanwa bakareba iryinyo rirwaye kugira ngo barivure.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa usanga ari ibikoresho bikoreshwa n'abatari bakeya mu Rwanda, ibyo bikoresho ushobora kubikoresha uri kureberaho amakuru cyangwa se uri kureberaho ibindi bigezweho hirya no hino ku Isi.

Abantu bamwe na bamwe bakunda gukora imyitozo ngororamubiri rimwe na rimwe usanga barahuye n'ikibazo cy'imvune, iyo bagiye kwivuza usanga kwa muganga babaha ibikoresho bita insimburangingo, aho bamwambika ikintu mu kaguru kigahita gihuza aho igufa ryavunitse.

Hari ibikoresho bimwe na bimwe usanga mu byumba bikorerwamo imyitozo ngororamubiri, muri ibyo bikoresho twavuga nk'ibikoresho bimwe na bimwe abantu baterura iyo bari kunanura mu gituza, tukavugamo imetero ariyo umuntu aba ari kwipimisha uburebure, tukavugamo umunzani ariho umuntu apimira ibiro afite.

Imyitozo ngororamubiri ikorwa mu buryo butandukanye, hari abayikora biruka, hari abayikora bakina umupira w'amaguru, hari abayikora bagenda basutamye, hari abayikora bagenda bicaye, hari n'abayikora iyo bunamye bafashe ku mavi.

Ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu mavuriro atandukanye hirya no hino mu gihugu, hari ibikoresho ukukasi, amaga, ibikoresho babikamo imiti ndetse na serengi n'ibindi byose byiza kandi bibereye amavuriro atandukanye hirya no hino mu gihugu.

Umunzana ni igikoresho gikunzwe kwifashishwa n'abantu batari bakeya mu Rwanda, aho bawuhagararaho kugira ngo barebe ibiro bafite, nibamara kubimenya bahite bafata umwanzuro w'ukuntu bazajya barya indo yuzuye ngo bagire ubuzima bwiza.

Imvune ikunda kwataka abantu bakunda gukora imyitozo ngororamubiri ndetse n'abantu bakunda kugenda ahantu hatameze neza, cyane cyane higanjemo ahantu h'imisozi aho usanga batsikira, iyo bamaze kuvunika bakajya ku ivuriro, babavura neza barangiza bakabahambiraho amabande ndetse n'ibindi bintu bituma bakira vuba.

Iyo umuntu akunda gukora imyitozo ngororamubiri ndetse n'ibindi bikorwa bimufasha kunura umubiri, usanga rimwe na rimwe ahura n'indwara y'imvune, izo ndwara usanga iyo agiye kwa muganga bamupfuka aho yakomeretse, cyane cyane hari igihe aba yikubise hasi umubiri we ukazaho igikomere.

Abantu bakunda gukora imyitozo ngororamubiri nko guterura ibintu, usanga baba bambaye amaga kugira ngo intoki zabo zitangirika kubera uburemere bw'ibintu baba baterura, mu rwego rwo kugorora mu gituza.

Amazi asukuye usanga ari amazi aba afite umumaro ku buzima bwa muntu uwo ariwe wese utuye kuri iyi si ya Rurema, cyane cyane byakubitiraho abantu baba bakunda gukora siporo ugasanga bayakenera cyane kuko baba baratakaje amazi menshi mu mubiri.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru usanga aribo bakinnyi bakunze guhura n'imvune zitandukanye, ngo biruka mu kibuga hari igihe mugenzi wabo bavunnye hari igihe batsikiye hari n'igihe banyereye bakikubita hasi ugasanga baravunitse, iyo bagiye kwa muganga rero bahita bahabwa ibikoresho bituma igufa ryatandukanye ryongera rigahura, ndetse bagasigwa n'imiti itandukanye.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi ku buzima bwa muntu kuko ituma agira umubiri ugororotse kandi bikamurinda guhura n'indwara zitandukanye nk'inkorora, ibicurane ndetse n'izindi.

Umuryango ushinzwe gutabara indembe utanga amaraso ari wo bita Croix Rouge, usanga urubyiruko rwinshi ruwiganjemo, gutanga amaraso ni ugutanga ubuzima, umuntu wese ufite amaraso atandukanye yajyayo agatabara.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi ku buzima bwa muntu, iyi myitozo ngororamubiri imufasha kugabanya kwihuta kw'amaraso mu mubiri kandi imufasha kugabanya imitekerereze myinshi cyane ishobora gutuma arwara, igafasha nanone mu igogora.

Iyo ugeze mu cyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, usangamo ibikoresho bimwe na bimwe bya kizungu, bitari bisanzwe biboneka hirya no hino. Nk'urugero hari ibyuma umuntu ajyaho akaryamaho igihe ari gushaka kugorora imbavu.

Imyitozo ngororamubiri, iyo iri gukorwa n'abantu batandukanye, bayikora mu buryo butandukanye. Hari abaryama hasi bakareba hejuru, mu rwego rwo kugorora umugongo ndetse n'imbavu.

Iyo umuntu yavunitse cyangwa se yatsikiye, usanga bamuzirikaho amabande ndetse n'ibindi bitambaro, kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza, abe yabasha kugenda no gukira.

Mu miti itandukanye ivura abantu bakoze impanuka iyo bari mu myitozo ngororamubiri cyangwa se batsikiye, hari n'imiti iba iri mu macupa igabanya uburibwe bw'imvune.

Siporo ni nziza ku buzima bwa buri muntu wese, ni ngombwa y'uko umuntu akora siporo yarangiza agaterura, jimu agakora n'ibindi bintu byose kugirango agire ubuzima bwiza binyuze mu myitozo ngororamubiribiri aba yakoze.

Indwara y'imvune iterwa n'uko umuntu aba yatsikiye igufa rikava mu mwanya waryo, iyo rero amaze gutsikira agahura n'umuntu umuzirikira igitambaro aho ngaho yatsikiye igufa risubira mu mwanya waryo agakira.

Iyo umuntu avukanye ubumuga hari ibikoresho bimwe na bimwe bamuha bimufasha gukomeza gukora imirimo ye ya buri munsi. Muri ibyo twavugamo nk'imbago cyangwa se yaba arwaye amaso bakamuha amataratara amufasha kureba neza ku buryo akomeza kubaho.

Iyo tugiye kureba dusanga urubyiruko rwiganjemo abasore, ari bo bakunda gukora imyitozo ngororamubiri, iyo myitozo ngororamubiri ikabafasha kurambuka ndetse ikabaha n'ubwirinzi, aho umubiri uba utabasha kwatakwa n'indwara byoroshye.

Amazi ni ngombwa ku bantu bakunda gukora imyitozo ngororamubiri, usanga kuko baba batakaje amazi menshi yatakaye mu byunzwe baba babize, bakenera nyuma kunywa ayandi kandi ahagije menshi cyane kugira ngo asimbure ayo baba batakaje.

Iyo umuntu yavukanye ubumuga bwo kugira amaguru agoramye cyangwa se yahuye n'imvune, usanga hari ibikoresho bimwe na bimwe bimufasha kugira ngo ingingo ze zigororoke yambara.

Abantu batari bake, iyo bakoze imyitozo ngororamubiri, rimwe na rimwe hari igihe batsikira bakavunika, igufa rikava mu mwanya waryo. Ariko abaganga barabikemuye, kuko baba bafite imiti itandukanye, bakoresha iyo bari kuvura uwo muntu, akongera agakira.

Amazi y'urubogobogo ni amazi meza cyane abantu bakunda kunywa kuko ayo mazi ntabwo aba yifitemo isukari. Biba byiza rero iyo uyanyweye uyasutse mu kirahure.

Iyo ukora imyitozo ngororamubiri, uba ugomba kurya ibiryo byiganjemo imbuto. Muri izo mbuto twavugamo nk'imineke, tukavugamo amacunga, tukavugamo amatunda, tukavugamo ndetse n'ibinyomoro.

Iyo umuntu ahuye n'ikibazo cy'imvune bamuha insimburangingo nk'imbago cyangwa se mu gihe ataramenyera kugenda, akaba afite ibikoresho bimufasha kugenda.

Iyo umuntu akoze imyitozo ngororamubiri akaba yavunika, usanga ajya kwa muganga bagafata akaguru ke bakagahina, bakamusiga umuti barangiza bakazirikaho bande, bamara kuyizirikaho agakira.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi cyane ku buzima bwa buri muntu wese. Abana biganjemo ab'abakobwa usanga bajya mu nzu yahariwe gukorerwamo iyo myitozo, bagaterura, abandi bagasimbuka ndetse bakayikora bishimye cyane.

Urubyiruko rwiganjemo abasore n'inkumi bakunda gukora imyitozo ngororamubiri, iyo bamaze kwambara impuzankano y'iyo myitozo ngororamubiri, usanga baba bari kubyina ndetse abandi bicaye, abandi biruka kugira ngo bagorore umubiri.

Indwara y'imvune ni indwara iterwa no kuba watsikiye cyangwa se wagiye mu myitozo ngororamubiri ugahura n'ikibazo yuko igufawa riva mu mwanya waryo, ibyo rero iyo ugeze ku mavuriro ndetse no mu bitaro bahita babikemura aho baguha imiti yabugenewe bakakuvura, ndetse cyangwa se byananirana bakaguha insimburangingo.

Abantu bakunda gukora siporo bakenera ibinini bituma bagira ubuzima bwiza, aho bajya kwa muganga bakabaha imiti, ibafasha kugubwa neza cyane cyane iyo bashegeshwe n'indwara.

Umukino w'umupira wo mu gapaniye usanga ukinwa n'abasore n'inkumi bakunze kuba ari abantu barebare kubera yuko usaba gusimbuka kugira ngo ujugunye uwo mupira mu ipaniye utsinde amanota.

Abantu bakora imyitozo ngororamubiri usanga iyo bahuye n'imvune ku maguru hari imiti yabugenewe basigaho kugira ngo bakire izo mvune, muri iyo miti twavugamo pomade, tukavugamo n'indi itandukanye.

Abantu bakunda gukora imyitozo ngororamubiri, usanga bakunda kurya ibirinda indwara nk'imbuto n'imboga, urugero nka karoti, amashu, amacunga ndetse n'intoryi.

Iyo umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri, cyane cyane iyo kwiruka agira icyaka, ibyo rero bituma agendana icupa ry'amazi kugira ngo uko yumvishe ayashaka asomeho.

Usanga abaganga iyo umuntu arwaye akenshi imvune bamuryamisha ahantu barangiza bakamunanura urugingo rw'umubiri y'aho yavunitse, nk'urugero waba urwaye imvune mu kaguru, akaguru bakakananura.

Abakobwa biganjemo urubyiruko, usanga bakunda kugorora ingingo cyane cyane bicaye, ubwo bafata akaguru bakakarambura, bakunama bagakora ku mano; ibi ngibi bishobora bakeya b'abahungu, kuko baba bafite amagufa akomeye cyane atarambuka.

Umubare munini w'abana ukunda kujya mu myitozo ngororamubiri, aho bakorera iyo myitozo mu kibuga gikinirwamo umupira w'igikapu. Barangiza bagasimbuka, bakazenguruka n'ikibuga mu rwego rwo kwitoza ndetse no kugorora ingingo.

Aba ni abantu babiri umusore n'umukobwa bari kunywa amazi asukuye byumvikana yuko amazi n'ingenzi k'ubuzima, aba bantu babiri bari kuyanywa bari kumwe kandi ari nako baganira.

Itajeri igaragaraho imiti y'amoko atandukanye, itajeri ibonekaho amoko y'imiti atandukanye ari mu mabara atandukanye; ubururu, y'uruhondo ndetse n'andi, ni amabara meza cyane kandi iyi miti ikora neza cyane.

Hari imyitozo ngororamubiri abantu bakunda gukora, ubwo bajyayo ugasanga bari guterura ibintu bimwe na bimwe, bituma bakomera umubiri wabo bakagira amatuza akomeye ndetse n'amaboko.

Abakobwa baba bari hagati y'imyaka cumi n'itandatu ndetse na makumyabiri usanga bakunda gushimishwa no gukora imyitozo ngororamubiri, aho usanga baba bicaye bunamye bafashe ku maguru, bakajya bagenda bamanuka bongera bazamuka mu rwego rwo kugorora imbavu.

Abakobwa iyo bari gukora imyitozo ngororamubiri uba usanga biboroheye cyane ko baba bafite umubiri woroshye, ni ukuvuga yuko bafata akaboko bakakanyuza hejuru y'umutwe bakakamanura kakagera ku mugongo biboroheye.

Imodoka y'imbangukiragutabara, ni imodoka ikunze gukora akazi ko gukura abarwayi ku mavuriro ibajyana ku bitaro by'akarere ndetse no ku bitaro bindi bikomeye byo mu gihugu. Ni akazi rero katoroshye kandi gasaba ubutabazi bw'ibanze gakorwa n'iyi modoka itabara.

Mu cyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, rimwe na rimwe hari igihe umuntu yizirika akaguru, umugozi akawuzirika hejuru, akajya agenda ashitura ibyo yaziritseho umugozi.

Iyo ugiye gukora imyitozo ngororamubiri, biba bigira ngo ugende wambaye imyenda yabugenewe. Muri iyo myenda twavugamo, nk'amatiriningi, amasogisi ndetse n'indi myenda yose yagenewe imyitozo.

Abantu bakunda gukora imyitozo ngororamubiri baba bagomba kurya ifunguro ryiganjemo ibitera imbaraga, ibirinda indwara ndetse n'ibyubaka umubiri, muri ibyo birinda indwara twavugamo nk'imbuto nk'inanasi, indimu ndetse n'amacunga.

Ivi rigira amagufa menshi cyane yuko mu ivi ariho amagufa abiri ahurira, iriva mu kaguru ndetse n'iryo mwitako, iyo umuntu ahavunitse rero biba byiza iyo agiye kwivuza.

Uyu ni umusore uri gukora siporo yitwaje icupa ry'amazi rya gurude ari kugenda asomaho anywaho uko icyaka kije, avuga yuko ari ngombwa rero kwitwaza amazi igihe wagiye muri siporo kuko amazi n'ingenzi.

Iyo abantu bari gukina umukino runaka, bisaba y'uko bafata akaruhuko gatoya, barangiza bakitekerezaho, bagakora n'imyitozo ngororamubiri, muri ako gahe k'akaruhuko baba bahawe mbere y'uko bagiye gukomeza.

Icupa rya purasitike rikoze uruziga, mbese mu ishusho ry'igikombe, gishushanyijeho igikeri, bigaragara yuko ari rogo iriho igikeri.

Ubu ni ubwoko bw'ikimera, ikimera gifite ibara ry'icyatsi kandi na none gifite amababi agiye kumera nk'ay'umwembe, igihingwa rero cyifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye gakondo.

Indabo n'indi miti itandukanye, indabo zifashishwa mu gukora imiti itandukanye aho zifasha umuntu kugira ubuzima bwiza bitewe n'uko zakozwemo imiti itandukanye.

Ikimera bita igikakarubamba ndetse n'umugwegwe, ni ibimera bitanga umuti gakondo, umuti rero iyo umaze gutunganywa ukiza indwara zitandukanye.

Ibimera bifite amoko menshi kandi bimwe na bimwe bikunze guhingwa, aho usanga barafashe imifuka bagashyiramo itaka barangiza bagateramo ibyo bimera, akenshi usanga ari byo bikomokamo imiti.

Umuravumba ni ubwoko bw'ibimera bivamo umuti, uyu muti wakoreshwaga kera iyo babaga bari kuvura umuntu urwaye inzoka zo mu nda, gusa na n'ubungubu hari abakiwukoresha.

Ikimera gifite amababi agiye kumera nk'ay'urusenda, usanga kivura indwara zitandukanye, ikizakubwira icyo kimerara, kiba gifite ibara ry'icyatsi kibisi rigaragara cyane kurusha ibi.

Ibimera bivamo imiti. Iyo tugiye kureba iyo miti, dusanga bafata ikimera, barangiza bakagisekura, cyamara kunoga, bakaba bagiha umuntu, akagikamurira mu mazi akakinywa, maze agakira indwara afite.

Mu Rwanda haba ibimera byinshi byera birandaranda, ugasanga bigenda ku butaka bizenguruka. Muri ibyo bimera twavugamo nk'ibihaza, tukavugamo n'imirandagashi ndetse n'umwishywa. Ibyo byatsi usanga akenshi bivamo imiti.

Habaho amoko atandukanye y'ibimera, ibyo bimera twavugamo nk'inyabarasanya, tukavugamo imikindo, tukavugamo urwiri ndetse n'ibindi bimera bitandukanye.

Igihingwa bita umusave ni igihingwa kifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, iyo bagiteye bagerageza gushaka ukuntu bagisasira kugira ngo gikure neza.

Amashyamba kimeza uba usanga hagati y'ayo mashyamba haba harimo ibitare bimanukaho amazi menshi cyane ku muvuduko munini, ayo mazi rimwe na rimwe bayakoresha iyo bari gukora ingomero z'amashanyarazi.

Iyo uzengurutse mu mashyamba nko mu bisi bya Huye n'andi mashyamba kimeza, usanga harimo ibimera bitandukanye. Muri ibyo bimera bitandukanye rero, ibifite ibara ry'icyatsi cyane usanga bimwe na bimwe muri byo, ari umuti uvura indwara zitandukanye. Iyo miti yifashishwaga n'Abanyarwanda ba kera, ubwo imiti ya kizungu yari itaragera mu Rwanda.

Muri iyi minsi kubera iterambere ryaje, imiti ikomoka ku bimera ibanza kunyuzwa mu nganda, igatunganywa neza, yarangiza igahabwa abarwayi kugira ngo bakire.

Ibiti bigira amashami ndetse afite n'amababi y'icyatsi cyane, ubu usanga bikoreshwa mu buvuzi gakondo, iyo umuntu arwaye indwara zitandukanye, usanga ibyo bibabi babisekura byarangiza bikavamo umuti.

Ibimera bifite amababi arambuye cyane agiye kumera nk'amababa, bivura indwara zitandukanye, bikoreshwa nk'umuti gakondo wakoreshwaga n'abanyarwanda bo hambere, gusa n'ubu ngubu uracyakoreshwa hamwe na hamwe mu bice by'ibyaro.

Mbere y'uko ibihingwa biterwa, usanga ibyiganjemo imbuto babanza kubyinaza, aho bafata itaka bakarishyira mu masashe, barangiza bagashyiramo urubuto, iyo bimaze kumera, bimaze gukura ho bukeya nibwo babikura muri ya masashi bakajya kubitera ahabugenewe.

Ibimera bitandukanye usanga bikoreshwa nk'umuti, muri ibyo bimera twavugamo urwiri, tukavugamo umuravumba ndetse n'ibindi, ibimera byose biba bifite indwara bivura ahubwo ni uko abantu bamwe baba batazi indwara bivura ariko buriya ikimera cyose ni umuti.

Iyo kera babaga bari gutunganya imiti ikomoka ku bimera, wasangaga hari amasekuru bayisekuriragamo. Barangiza imwe nimwe bakayishyira ku dufuka, bakayanika kuko bagombaga kuyisekura ikavamo ifu.

Mu bwoko bw'ibimera habamo ibimera bitandukanye, hari ibimera biba bifite amababi asongoye cyane agiye kumera nk'amacumu ariko asa n'icyatsi, usanga bamwe bakunze kubyita yuko ari imifumba.

Amoko atandukanye y'ibimera yiganjemo ibimera bifite ibara ry'icyatsi kibisi cyane, ayo moko y'ibimera usanga rimwe na rimwe akoreshwa mu kuvura abantu kuko akenshi aba ari imiti. Ni ukuvuga ko yakoreshwaga kera mbere y'umwaduko w'abakoloni mu Rwanda, ariko kugeza na n'iyi saha arakoreshwa ariko akabanza gutunganywa n'inganda.

Usanga amacupa afunze neza cyane afite imifuniko itandukanye, inyuma hariho icyapa kigaragaza yuko harimo imiti ikorwa mu bimera ivura indwara zitandukanye.

Umuti usukura intoki, uba ufite ubushobozi bwo kwica udukoko umuntu aba afite mu ntoki tutagaragara, kugira ngo agomeze agire ubuzima bwiza.

Mu miti ya Kinyarwanda usanga hari imiti iba imeze nk'imizi, ugasanga utundi tumeze nk'imbuto zera ku biti tugiye kumera nk'amapera, ugasanga utundi tumeze nk'imyase y'ibiti kandi ari umuti.

Niba ushaka kubaho neza uzafate igitunguru ugikatire ku isahani, numara kugikata ufate indimu uyikande amazi yayo yivange n'ay'igitunguru, nurangiza unywe uzaba wikingiye indwara nyinshi zitandukanye.

Ikimera gitoshye cyane cyabonye izuba rihagije ndetse n'imvura ihagije kugirango gikomeze kubaho neza. Iki kimera gikoreshwa kuvura nk'umuti kandi gifasha abantu kumererwa neza cyane.

Imiti gakondo ituruka mu bimera bitandukanye. Hari ibimera umuntu atera, byakwera bikera iyo miti, hari n'ibindi bisaba gusoroma amababi akaba ariyo avamo iyo miti.

Iki ni ikimera gifite ubwoko bumeze nkaho ari igishyimbo, igiti gifite amababi atoshye cyane bigaragara yuko cyabonye amazi ahagije ndetse n'intungagihingwa nziza cyane.

Ubwoko bw’ibihingwa byimeza mu ishyamba, byera indabo z'umutuku, umuhondo ndetse n'umweru cyane cyane zikaba ari nziza, kandi ibyo bimera bigakoreshwa nk'umuti wa kera cyangwa se traditional medicine in foreign language.

Iyo umuntu arwaye ntabwo buri gihe ariko ajya kwivuza mu baganga ba kizungu, ahubwo acishamo akajya no mu bavuzi ba kinyarwanda, aho bakoresha imiti gakondo nk'umuravumba bari kuvura abenegihugu.

Guhinga ku murongo nibyo bituma haboneka umusaruro uhagije. Usanga kubera iterambere amamashini aza akabagara kubera yuko ibintu biba bihinze ku murongo. Cyane cyane bikunze gukorwa ahantu mu bibaya, ubwo haba hahinzwe igihingwa kimwe mu gace runaka ku buso bunini.

Ibyatsi by'ibimera byiganjemo ibyatsi by'umuravumba, ubu usanga bifite uruhare runini mu kuvura abantu indwara zitandukanye. Muri izo ndwara twavugamo nk'inzoka zo mu nda. Inzoka zo mu nda zivurwa n'ibyatsi ubwo babisekura, barangiza bakabikamura, amazi abivuyemo bakayaha umuntu urwaye agakira.

Ibimera byiganjemo umuravumba ndetse n'ibindi byera indabo zitandukanye, bikoreshwa nk'umuti gakondo, aho biba bivura indwara nyinshi zitandukanye.

Ahantu hagwa imvura nyinshi usanga hakunze kumera ibimera bifite ibara ry'icyatsi cyane, kubera yuko biba bibona imvura buri munsi kandi hari n'ubutaka bufumbiye.

Amavuriro yigenga usanga hari amavuriro avura akoresheje imiti ikomoka ku bimera. Aho usanga barafashe ibimera barangiza bakabinyuza mu nganda, bagakuramo imiti ivura.

Hari ibimera bimwe na bimwe usanga biba bifite amabara y'icyatsi, ibyo bimera iyo byeze byera imbuto zitwa amaperi. Ayo maperi akaba ari imbuto zimwe na zimwe zishobora gukoreshwa zivura indwara zitandukanye.

Umubare munini w'abantu ujya ahantu abandi bateraniye, bagiye kugura imiti bitewe n'indwara barwaye. Akenshi uba usanga iyi ari imiti gakondo.

Mama yarwaye indwara yo mu nda, arangije azenguruka mu bihuru ashakisha ibyatsi kugira abikoremo umuti wa kinyarwanda kandi uwo muti wamufashije gukira neza.

Amacupa iyo bayashyizemo imiti bitewe n'ubwoko bwayo usanga amabara atandukanye, hari amacupa aba arimo ibara ry'umweru kubera uwo muti ariko usa, hari aba afite ibara ry'umuhondo ndetse hari n'aba afite ibara ry'umukara bitewe n'isura uwo muti uhaye iryo cupa.

Imiti gakondo, iyo bamaze kuyinyuza mu nganda, usanga iba iri mu bwoko bumeze nk'amazi, bakayishyira mu kadomoro, barangiza bakagafunga, inyuma bakandikaho ubwoko bw'uwo muti.

Ibihingwa kimeza usanga byiganjemo ibifite amabara y'icyatsi kibisi cyane, usanga ari ibimera bikunze kuvamo imiti gakondo, muri ibyo bimera dushobora kuvugamo nk'inyabarasanya, tukavugamo imiravumba ndetse n'ibindi.

Imiti ituruka mu Kagera aba ari imiti myinshi ifite kandi ubuziranenge, kuko igenzurwa n'ikigo gishinzwe ubuziranenge. Iyo miti ifasha abantu mu kubaho neza ndetse bagakira indwara baba bafite.

Imiti gakondo usanga akenshi iba itandukanye kandi uko itandukana ni nako ivura indwara zitandukanye. Usanga rero buri gasahane gafite umuti wako wihariye utandukanye n'uri mu kandi gasahane.

Ikimera cyitwa igitovu kivura indwara zitandukanye, kera bavugaga yuko iyo umuntu atangira gahunda mu buriri ari umugabo bakimukubita ubundi akagira akanyabugabo mu buriri.

Amashyamba kimeza usanga aba arimo ibimera bitandukanye, ibyo bimera biba byarihurije hamwe ugasanga byakoze ibihuru, bimwe na bimwe muri ibyo bimera usanga biyanga bikazana.

Ibimera harimo nk'umuravumba n'ibyatsi bivamo umuti, iyo miti yakoreshwaga n'abanyarwanda bo hambere ubwo babaga bari kuvura umuntu urwaye inzoka.

Ikimera cyitwa umuravumba, kivura indwara zitandukanye. Izo ndwara twavugamo nk'indwara yo kuribwa mu nda ,ndetse n'indwara bita gihwa ikunda gufata inka.

Ibi ni ibimera bitoshye cyane, ibimera bifite ibara ry'icyatsi byabonye imvura nyinshi bigira ibara ry'icyatsi, si ibirandaranda gusa ahubwo harimo n'insina, amababi yayo atoshye cyane.

Amacupa apfundikiye neza, afunze inyuma handitseho ibyapa, usanga aba arimo umuti, uwo muti uba ukomoka ku bimera, cyane ko n'ibyo bimera ukomokaho biba bishushanyije inyuma yayo...

Kera bafataga udutebo bakadutereka ahantu ku musambi hafi y'idari, barangiza bagashyiramo imiti y'amoko atandukanye. Imiti wasangaga akenshi ikomoka ku bimera cyangwa se ku byera.

Ikimera k'ikibunobono gikunze kwimeza ahantu hirya no hino haba hari ubutaka bufumbiye, gikunze kuboneka ahantu mu rutoki ndetse n'ahandi hantu hahinze imyaka itandukanye.

Mu karere ka Huye habayo amoko menshi y'imiti akomoka ku bimera, muri ayo ngayo twasangamo nk'ibyatsi bita umuravumba, igikakarubamba ndetse na tungurusumu.

Ubu ni ubwoko bwibimera bufite amababi atoshye cyane, kandi amababi afite ibara ry'icyatsi, ni igihingwa kimeze neza cyane cy'umuti kandi gishobora gukiza indwara nyinshi zitandukanye.

Imiti itandukanye y'ibimera, hagaragara indabo amashami y'ibiti tungurusumu, ndetse n'ibindi nk'uko bigaragara, ahangaha byerekana yuko, iyo ari imiti ya gakondo iba yakoreshejwe isukuye neza igakiza abantu rwanda.

Ibimera byitwa amaperi usanga bikunze kwera imbuto ziryoshye cyane, gusa iki kimera cy'amaperi kiri kugenda gicika hirya no hino mu Rwanda, usanga aho bisigariye ari bikeya cyane.

Imiti ikomoka ku bimera usanga imaze gutunganywa bayishyira mu macupa, ayo macupa barangiza bakayafunga neza kugira ngo iyo miti itaba yakwangi.

Imiti yo kwa muganga ikunzwe kubikwa cyane mu macupa y'imyeru, kugira ngo idahura n'ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kuyihungabanya, ikaba yatakaza ubuziranenge.

Imiti ya Kinyarwanda imwe n'imwe kubera bari imiti gakondo, isabwa y'uko bakoresha isekuru barimo bayitunganya, kugira ngo ize gufasha uyinywa kubaho neza agakira indwara ze zitandukanye.

Ibihingwa ngengabukungu n'ibihingwa umuntu adahinga ngo ahite arya ako kanya, ahubwo bibanza kunyuzwa mu nganda, usanga rero bihingwa ku buso bunini kandi ari igihingwa kimwe n'ukuvuga ko aba ari igihingwa kimwe gisa aribyo bita guhuza ubutaka.

Mu byatsi bikunda kwimeza, usanga harimo n'icyatsi bita umuravumba. Umuravumba ni icyatsi, gikoreshwa mu kuvura inzoka zo mu nda, aho Abanyarwanda bo hambere babikoreshaga nk'umuti, ubwo iyi miti ya kizungu, yari itaragera mu Rwanda.

Inyabarasanya ni icyatsi gikunze kumera ahantu hatandukanye mu gihugu, cyane cyane ahantu hahinze urutoki ndetse n'ahandi mu mashyamba atandukanye. Usanga iyo imaze gukura izana ururabo.

Iyo umuntu ashaka kugira imiti itandukanye ayitera mu ndobo zitandukanye, imiti usanga akenshi ari iy'ibimera ugasanga kandi igiye itandukanye mu byo ivura.

Ibimera nk'umuravumba n'ibimera bivura indwara zitandukanye, byakoreshwaga n'abanyarwanda bo hambere ubwo babaga bari kuvura umuntu urwaye inzoka zo mu nda, ibi ngibi rero n'ubu biracyakoreshwa hirya no hino mu bice by'ibyaro.

Hari indwara muri iyi minsi abantu barwara ariko ikayobekana kwa muganga, bigasaba y'uko uyirwaye yoherezwa kwivuza mu baganga ba kinyarwanda, abo baganga baba bafite imiti y'ibimera niyo bamuvurisha.

Umuravumba ukunda kugira amababi anuka cyane kuko ni umuti, iyo umaze kuwuvuguta ukawukamura usanga havamo amazi y'icyatsi, ayo mazi y'icyatsi iyo uyanyweye akiza indwara y'inzoka zo mu nda.